Umubyeyi ari gusoma umwana we, n'ubwo yambaye agapfukamunwa. Akaba yambaye uyu mubyeyi n'iherena ku gutwi kwe kw'ibumoso. Hirya hari undi mugabo uteruye akana.

Muganga ari kwita ku murwayi, umurwayi yazamuye ukuboko agutereka ku meza, ku meza yateretse mudasobwa ndetse hari n'imiti iri mu macupa.

Umuganga w'umusore yambaye ga z'umweru, ari gukora mu ntoki z'umurwayi, afite agapamba gatoya ari gupfukisha ku rutoki rwe, bisa nkaho amaze kumufata amaraso.

Imbaga y'abaturage bahurijwe hamwe y'ahantu mu nama, aho bitabiriye ibiganiro byatanzwe ku bigendanye n'ubuzima, ndetse n'indwara zigiye zitandukanye zibasira ubuzima bwa muntu.

Ubukangurambaga bwo gushishikariza ababyeyi ndetse n'abantu bose kwimakaza kurya indyo yuzuye burakomeje, by'umwihariko bikaba bikorwa ku bana batoya.

Umuryango w'abibumbye wita ku buzima, ukaba ari umuryango mwiza cyane, ndetse ukaba ufite n'ishami rishinzwe kwita ku bana rya UNICEF. Iri shami ryashishikarije abantu cyane, kurinda abana kwandura icyorezo bya kovide cumi n'icyenda.

Ivomo rusange ryahuriweho n'abantu benshi baje gushaka amazi meza, gusa ni ivomo ryiza kuko rifite robine ebyiri imbere n'inyuma.

Abana batoya babiri, bari kuvoma amazi ndetse aya mazi bari kuyavomera mu ntoki banayanywa, bisa nkaho bari gukina na yo, ni byiza ko turinda abana bacu kunywa amazi atari meza.

Abana batoya batatu bari gukaraba amazi, mu by'ukuri ayo mazi bari gukaraba ari kuva mu ihombo ryaturitse, aba bana bashobora kurwara indwara ziterwa n'umwanda cyangwa se ziterwa n'amazi mabi.

Ibiganiro byo ku rwego rw'igihugu ku bigendanye no guteza imbere ndetse no gushora amafaranga muri gahunda zitandukanye zishinzwe kwita ku buzima.

Umwana ateze amashyi kuri robine niba ari gukaraba simbizi cyangwa wasanga ari no kwikinira n'amazi, gusa imbere ye hateretse amajerekani abiri y'umuhondo n'indi imwe y'ubururu ategereje kuvomerwamo amazi.

Inama yahurije hamwe abajyanama bubuzima bo mu kagari kugira ngo bigire hamwe uburyo bugezweho bwo gufasha ndetse no gutanga serivisi z'inama n'ubuvuzi ku baturage.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ndetse no gushora imari mu by'ubuzima cyo mu rwanda, gishishikariza abikorera ndetse n'abafatanyabikorwa gushyira hamwe bakita ku buzima bwa muntu.

Imbaga nyamwinshi ndetse n'uruhurirane rw'abantu benshi cyane, bitabiriye inama yari iri kubera ku kagari, bamwe bari mu matente, abandi baricaye ku mbuga.

Abana bari kuvoma amazi ahantu hameze nko ku mugezi cyangwa ku kiyaga gitemba, ariko mu by'ukuri aya mazi ntago asukuye. Ni byiza kuvoma amazi meza afite isuku.

Leta y'u Rwanda yagerageje kubaka ibikorwa remezo bigiye bitandukanye, muri ibi bikorwa remezo harimo no kubaka imigezi cyangwa se amavomero rusange, abaturage bakajya baza bakavoma amazi meza bakabaho neza.

Ameza ni manini ndetse ariho igitambaro cyiza cyane, hateretseho amazi arambitseho amakaye menshi ndetse hari abantu bicaye bayazengurutse, bigaragara ko bari mu nama yita ku buzima.

Abagabo babiri bicaye imbere y'ameza manini hateretse macupa y'amazi ndetse buri muntu wese afite ikayi cyangwa ajenda. Bikaba bigaragara ko hirya hari ikintu kimeze nk'idarapo.

Umuganga ari gutera urushinge umwana mutoya, uyu mwana bisa nk'aho atagira ubwoba, kuko nta n'ubwo yarize, nta n'ubwo yikanze. Mu by'ukuri ni byiza gukingiza abana batoya, kugira ngo bagire ubudahangarwa.

Inyubako yo kwa muganga, ikaba ari inyubako nziza cyane, ifitemo imbere icyumba kirimo isuzumiro, iryo suzumiro rifite ibintu bimeze nk'intebe ariko zifite ukuntu ziryamye, umuntu yicaramo bakamupima.

Umwana mutoya uri kumwenyura ariko utari muto cyane, ari gukaraba ndetse arishimye, imbere kuri robine hari amajerekani abiri y'umuhondo n'indi imwe y'ubururu.

Umwana ari gukaraba amazi kuri robine ndetse hakaba hateretse idomoro y'ubururu bw'ikirere kugira ngo ize kuvomererwamo amazi meza yo gukoreshwa mu rugo.

Ubuzima bukwiye kwitabwaho mu buryo bugiye butandukanye, ibyo byose ni ibikorwa abantu dusabwa gukora kugira ngo tubashe kubusigasira ndetse tuburinde indwara.

Umubyeyi ahetse umwana mu mugongo ndetse amuhetse mu gitenge. Ari koza umufuniko w'indobo ndetse indobo na yo ari buyoze. Ari kuvoma amazi meza kuri robine ituruka ikuzimu.

Inyubako yubatse, ndetse ikaba ifite ikintu hejuru kimeze nk'ikigega kizengurutse, inyuma y'icyo kintu hakaba hari inzu zisa nkaho zigerekanyije. Ndetse zubatswe mu buryo ubona ko bucucitse.

Umubyeyi ari gufasha umwana we w'umunyeshuri wiga mu mashuri abanza akaba ari kumwigisha uburyo bakaraba neza intoki bakoresheje amazi meza n'isabune.

Abantu bari kuvoma amazi ayo mazi ari kuri robine ya yindi ipombwa ndetse hakaba hari abana bashungereye hari n'abandi bateze utubido kuri robine bategereje amazi.

Umubyeyi urwaye ndetse akaba ari mu bitaro kwa muganga, muganga ari kumwitaho ndetse amwambitse ikintu cy'igiserumu, akaba ari kumufasha kumwongerera amaraso.

Abagabo bambaye amakote ndetse n'amakaruvati, bari kumwe n'abagore nabo bambaye neza cyane, bakaba ari abayobozi bagiye batandukanye bo hirya no hino ku isi, bahuriye mu nama cyangwa se amahugurwa yabashishikarizaga kwita ku buzima bw'abantu bo mu cyaro.

Uruhurirane rw'abaturage bahuriye ku kagari, aho baje mu nama yabahamagarijwe kugira ngo babagire inama mu by'ubuzima bugiye butandukanye.

Umuganga ari gutera urushinge umurwayi w'umugore, gusa uwo mugore yashinyirije ndetse arashingirije asa nkaho afite ubwoba atinya urushinge.

Abana baje kuvoma amazi ahantu bigaragara ko ari nko mu gishanga ndetse ibi bikaba ari ibintu bitari byiza habe na gato kuko aya mazi ashobora kubatera indwara.

Umubyeyi ari kuhagira umwana ndetse yahereye mu mutwe, uwo mwana na we yicaye mu i ibasi urabona ko yishimye. Ni byiza kugirira abana isuku kuko bibarinda uburwayi.

Abaganga bigaragara ko bakiri batoya bambaye amakarita y'akazi bicaye imbere y'ameza bose bakaba bari bari kwifatira agafoto.

Umuntu w'umusore cyangwa w'umugabo bisa nkaho ari umuganga cyangwa se umujyanama w'ubuzima ari kugaburira umwana mutoya uwo mwana ateruwe na nyina, asa nkaho bari kwigisha ababyeyi kugaburira abana indyo yuzuye.

Umubyeyi ateruye umwana ndetse afite igipapuro twakwita nk'ifishi akaba yazanye umwana we kumukingiza, hirya hari abandi babyeyi benshi cyane bateruye abana babo.

Umwana mutoya ari kuvoma amazi meza kuri robine. Afite indobo y'umweru, yayiteze, iri kujyamo amazi.

Umubyeyi w'umumama wikoreye indobo iyo ndobo ikaba irimo amazi, yikoreye indobe itukura atwaye n'indi mu ntoki y'umuhondo, urabona ko yavunitse rwose ariko n'ubwo yavunitse yagira ngo abone amazi meza yo kunywa ndetse no gukoresha.

Ababyeyi benshi bahurijwe hamwe mu mudugudu bigishwa n'abajyanama b'ubuzima ndetse n'abaganga uburyo bwo kugaburira umwana indyo yuzuye bamuha imfashabere.

Umwana ari kunywa amazi kuri robine, iyo robine ni robine rusange, gusa hasi hateretse indobo iri kugwamo amazi. Uwo mwana yambaye inkweto za badaboda z'ubururu, yambaye n'ikabutura itukura.

Uburyo bwo gukumira no kurwanya ugutwita kw'abangavu aya ni amagambo y'insanganyamatsiko agaragara hejuru ahantu ku cyapa ndetse munsi y'icyapa hari abahafatatiye ifoto.

Umwana w'umukobwa wambaye impuzankano ubona ko ari umunyeshuri ari, ahant hari urukarabiro ubona ko ari gukaraba intoki akoresheje amazi meza. Ni byiza cyane ko abana batoya bigishwa gukaraba intoki, by'umwihariko abanga b'abanyeshuri.

Abantu benshi bahurijwe hamwe mu nama, iri kwiga ku bibazo bigendanye n'ubuzima, ku rwego rw'isi, bagize ingamba bafata ndetse biyemeza kuzishyira mu bikorwa.

Abantu benshi cyane barimo abazungu, abirabura abagore, abagabo bambaye amashati y'umweru, umukara, amakoti n'amakaruvati, imbere yabo hari ameza bicaye bayazengurutse, buri wese imbere ye hari icyayi giteretse ku gasahani kiri mu gikombe, bari mu nama yiga ku bibazo byugarije ubuzima.

Abagabo benshi cyane bakunze kuvuga ko iterambere ry'u Rwanda ryihuta, kandi ryihuta mu bice byose n'ubuzima budasigaye, mu by'ukuri turi kubona umugabo uri kumwe n'umuzungu w'umugore, bafite akantu kanditseho visiti Rwanda.

Ababyeyi biganjemo abambaye imyenda y'umweru ndetse n'abateze ibitambaro, bicaye bazengurutse umujyanama w'ubuzima, bari imbere y'inyubako yubakishijwe imbaho ndetse hino ku ruhande hari ahari udutafari duhiye. Bari kuganira ku by'ubuzima.

Ikiganza cy'umuntu uri gutega amazi ari kuva mu itiyo rinini ry'umukara ndetse rikaba risa nk'aho rijugunya amazi.

Umuganga ari gutera urushinge umuntu bigaragara ko ari umwana ndetse bikaba ari byiza cyane gukingiza abana kugira ngo tubarinde indwara zigiye zitandukanye.

Amacupa abamo umwuka mwiza abantu bahumeka wifashishwa n'abaganga igihe baba bari gutanga ubutabazi ku murwayi wagize ikibazo cyo kubura umwuka.

Imiti myiza cyane ikoreshwa mu gice cy'amajyaruguru ubona ko bari kwamamaza imiti hakomoka ndetse bakamamaza n'umuryango witwa aliance.

Abana bambaye impuzankano ya kaki bari kuri robine, bari gukaraba intoki. Umwe yazamuye intoki hejuru ari kuzerekana, ni byiza ko abana batozwa gukaraba intoki.

Amatuwarete yubatswe neza ari ahantu habugenewe akaba asizwe amarangi y'ubururu, yubakishijwe amatafari ahiye, ni byiza kugira ubwiherero busa neza.

Abaganga bicaye bazengurutse ameza ndetse imbere ya buri wese hateretse ibyo kurya ndetse n'amazi yo kunywa, hirya ahagana mu nguni hazamuye idarapo ry'u Rwanda. Bari kwiga ku bibazo by'ubuzima bugiye butandukanye.

Umwana w'umukobwa ari gukaraba intoki akoresheje amazi meza, ayo mazi akaba ari guturuka muri robine ndetse hateretse ibasi hasi iri kugwamo amazi mabi uwo mwana ari gukaraba.

Abantu bari gutunda imifuka y'imiceri, barimo abagore babiri, undi mugabo umwe wuriye ku mifuka ipanze, ari gukurura uwo bazanye kugira ngo awushyire ku yindi.

Ku ivomera rusange hahuriye abantu benshi biganjemo abana batoya, ndetse bigaragara ko hari amajerekani menshi cyane ategereje kujyamo amazi.

Umugabo w'umuganga ari kwita ku kumurwayi, uwo murwayi ni umwana mutoya, ndetse nyina aramuteruye, bisa nk'aho ari umwana warwaye malariya.

Abana b'abanyeshuri bambaye imyenda ya kaki bari kuri za robine umwe mbere undi inyuma bose bari gukaraba, hari n'indobo z'umuhondo bigaragara ko nibamara gukaraba baracyura n'amazi meza yo kuza kogera mu rugo.

Umwana wambaye ishati y'umweru n'ikabutura y'umukara, ari kuzamura icyuma cya robine kimwe bita ipombo. Hakaba hari undi imbere uri kuvoma amazi meza.

Abana batoya, bari mu kigero cy'imyaka iri hagati y'itatu n'itanu, bari mu mazi, ayo mazi ameze nk'aho ari ikizenga kinini cyane, cyangwa se umugezi utemba. Bari kwibira, ibyo twita koga.

UNICEF ni umuryango w'abibumbye wita ku buzima bw'abana. Ni byiza ko abana bitabwaho kuko ari bo Rwanda rw'ejo cyangwa se Isi y'ahazaza.

Mu rwego rwo guteza imbere uburezi leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda yo kugaburira abana ku ishuri, niyo mpamvu bagaburirwa ibiryo birimo ibishyimbo, akawunga, imboga n'imbuto, bikabafasha mu masomo yabo.

Imbaga nyamwinshi y'abantu b'abaturage, barimo abambaye imyenda y'umweru, ingofero ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, bari imbere y'itente cyangwa se y'igishararagati, bakaba baje mu nama yavugaga ku bigendanye n'ubuzima butandukanye.

Umugabo usa nkaho ari mu myaka iri hagati ya mirongo ine n'itanu na mirongo itandatu, ari gusuhuzanya n'akana gatoya ndetse inyuma yabo hari abaturage, hari n'umugozi utatseho igipirizo cy'umuhondo.

Abantu bifotoreje imbere y'inyubako bisa nk'aho ari iyo kwa muganga, bigaragara ko bari baje mu mahugurwa agiye yiga ku bigendanye n'ubuzima bugiye butandukanye, ndetse n'indwara zifata ubuzima bwa muntu.

Abantu benshi barimo abagabo, abagore, bambaye neza baberewe, bafatiye ifoto imbere y'icyapa kirekire kinini kiri mu mabara y'ubururu, gifite amagambo yanditseho yanditswe mu mu ibara ry'umweru.

Umwana mutoya wambaye impuzankano bigaragara ko ari umunyeshuri wiga mu mashuri abanza, akaba ari gukaraba amazi meza kuri kandagira ukarabe, inyuma ye hari tuwalete bigaragara ko avuye kwiherera.

Umubyeyi afite ukuboko yahereje muganga, muganga yamuziritseho ibintu by'ibyuma ndetse muganga arimo kureba mu kantu na none kakomaga ikoranabuhanga ari kureba ibibazo by'uwo mukecuru.

Imbaga y'abahuriye mu nama mpuzamahanga yigaga ku bibazo bigiye bitandukanye, bikomeje kugariza ubuzima, birimo n'indwara z'ibyorezo ndetse n'izindi nyinshi.

Umwana mutoya w'umukobwa bari kumukorera ijerekani y'amazi yajerekani iriho icyapa cyanyanditseho yunisefu, uyu nguyu akaba ari umuryango wahariwe kwita ku bana, akaba ari umuryango w'abibumbye.

Umuganga cyangwa umujyanama w'ubuzima harimo kwita ku bana batoya ndetse abaha ubuvuzi bugiye butandukanye umubyeyi w'umugore yazanye n'umugabo we bazanye akana kamwe kwa muganga muganga ari kwandika ku meza mu bitabo.

Umubyeyi ateruye akana bigaragara ko kakiri gatoya. Ndetse ako kana gafubitse imyenda myiza y'imyeru. Umumama ari imbere y'abajyanama b'ubuzima bari kumwigisha uko yazajya yita kuri ako kana.

Abantu batandukanye bari gutunda imiceri, hari iyo bapanze hirya ndetse ubona ko hari abagabo bari kugenda bakira abagore, abo bagore bateruye umufuka ari babiri, barawuzanye.

Kunywa amazi meza asukuye ni byiza ndetse no gukoresha amazi meza asukuye na byo ni byiza cyane, abantu baje ku ivomera rusange baje gushaka ayo mazi.

Umugabo afite impapuro ebyiri rumwe ari kuruhereza umugore wicaye imbere ye, ariko hari ikiganza cy'umuntu w'umugabo gisa nk'aho kigiye kurwakira, hari n'undi mubyeyi uri inyuma nawe wateze ikiganza ukeneye urundi ruri mu kaboko k'imoso.

Abaganga bo mu Rwanda, bafite ubumenyi buhambaye cyane, ndetse bakunze kugira amahugurwa bagahugurwa n'abandi baganga b'inzobere baturutse hanze.

Umuganga ari guha umuti umwana uwo mwana ateruwe na nyina, mu byukuri ni byiza ko tuzana abana bacu kwa muganga bityo bakitabwaho bagahabwa imiti yabagenewe.

Abana b'abanyeshuri bambaye inifomo ya buresiyeri bazamuye ibiganza byabo hejuru mu kirere, bigaragara ko bahurijwe hamwe kugira ngo baganirizwe ku ngingo z'ikibazo gishingiye ku mutwe.

Umuntu wambaye agapfukamunwa akaba ari ifoto iri ku cyapa, ndetse icyo cyapa cyanditseho amagambo y'icyongereza agaragaza ko isi yose ikwiye gushyira hamwe mu kurwanya icyorezo cya kovide cumi icyenda, cyadutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri ni icyenda.

Umukecuru ushaje yicaye hagati y'utwana. Utwana turamushungereye ndetse bisa nk'aho afite ikibazo cyo mu mutwe, gusa utu twana na two tureba nabi.

Imbaga y'abantu benshi cyane bafatiye ifoto imbere mu nyubako y'ibitaro nyuma yo gukora inama ndetse n'ubukangurambaga bwo gushishikariza abaganga ndetse n'abandi bantu bose kwita ku buzima bwo mu mutwe.

Uburwayi bwo mu mutwe bukomeje kwibasira abantu benshi ndetse bikaba ahari biterwa n'ibibazo byugarije isi, umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe agira imyitwarire idahwitse.

Umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe akora ibintu bidasanzwe ndetse akagira imyitwarire idahwitse, aha turabona umusaza bisa nk'aho yambaye ibyamvagara ndetse ari kwigaragura hasi mu mukungugu.

Ubuzima bwo mu mutwe bukwiye guhagurukirwa bukitabwaho ndetse abafite indwara zo mu mutwe bakajyanwa kwa muganga, bakaganirizwa ndetse bagahabwa ubuvuzi.

Ikigo cyashyizweho mu Rwanda, kugira ngo cyifashishwe ndetse gifashe abana bahuye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, kikaba gishishikariza Abanyarwanda bose kwirinda indwara zo mu mutwe.

Umubyeyi wiyambariye ishati yo mu gitenge, akaba yambaye n'urunigi, gusa urabona ko atishimye, afite ikibazo cyo mu mutwe.

Umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe, ni umuntu ukwiye kwitabwaho akaganirizwa, ndetse akajyanwa kwa muganga, kuko uburwayi bwo mu mutwe buravurwa bugakira si byiza kumuzirika ndetse no kumuheza.

Umuganga w'umuzungu uvura indwara zo mu mutwe, yifotoreje imbere y'icyapa, icyo cyapa cyanditseho amagambo y'icyongereza, ndetse bigaragara ko ari ibitaro byita ku bantu bafite ibibazo byo mu mutwe.

Umukobwa wambaye agapira gatukura, ari imbere y'umumama, umumama afite indangururamajwi ndetse afite n'agakapu mu ntoki. Imbere ye hakurya hari abantu benshi bateraniye mu nama.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu nama, iyo nama ikaba yabereye mu nyubako nziza, ndetse iyo nama ikaba yashishikarizaga abantu kwita ku buzima bwo mu mutwe, ndetse no kwirinda indwara zo mu mutwe.

Umukecuru yicaye ku gatebe, agatebe kendanda kuvunika, imbere ye hari umusambi cyangwa se umuce, bamwe bakunze kwita ikirago, ukaba ari umuce ubohwa n'Abanyarwanda.

Abantu bisa nkaho bafite impapuro cyangwa icyo twakwita amakayi, bambaye udupfukamunwa ndetse bari kugira inama umwe mu bantu barwaye cyangwa bafite ibibazo byo mu mutwe.

Ubuzima bwo mu mutwe bukwiye kwitabwaho ndetse bukagirirwa umwimerere, kuko ari ubuzima bukomeje guhangayikisha isi yose, bitewe n'abantu bakomeje kugira ibi bibazo bishingiye ku mitekerereze.

Ubuzima bwo mu mutwe ndetse na serivisi zihabwa Abanyarwanda, mu by'ukuri ayo ni amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza, gusa ndagenekereje ngo nyasobanure, mwese mumenye ko ubuzima bwo mu mutwe bukwiye kwitabwaho.

Icyapa kiriho abantu bashushanyije aha mbere hariho umuntu umwe ahandi hariho abantu babiri bafite buri wese akana kamwe kamwe hirya hari umugabo bisa nkaho ari gukubita akana karyamye hirya hari umugore utwite ahandi hari umugabo uri kuruka.

Ubuzima bwo mu mutwe bukwiye guhagurukirwa ndetse bukitabwaho, ku buryo buri munyarwanda wese agira uruhare mu kurwanya indwara zifata ubu buzima.

Umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe rimwe na rimwe agaragara nk'utuzuye kuko n'ubundi aba afite ibibazo bigendanye na siteresi ndetse n'iby'imitekerereze.

Umubyeyi yazanye umwana we ku mujyanama w'ubuzima ndetse uwo mwana bamupimye umuriro. Umujyanama w'ubuzima ari kwereka umwana ikigero cy'umuriro.

Umurwayi ufite ibibazo byo mu mutwe, akeneye kwitabwaho akaganirizwa ndetse agahabwa ibimufasha gutekereza neza, nk'udupope ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Urubyiruko rwinshi cyane rw'abantu bambaye imyenda isa bose bakaba bafatiye ifoto mu nyubako nyuma y'igikorwa cy'inama yabahurije hamwe cyigaga ku bibazo byugarije ubuzima bwo mu mutwe.

Ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe bukomeje kuba ikibazo gikomeye cyane, ahanini usanga abafite ibi bibazo bamwe batanabimenya, kuko hari igihe umuntu aba agenda ari muzima ariko ugasanga yarashize pe! Gusa hari ubukangurambaga buri gukorwa ndetse n'ubutabazi bwashyizweho, aho bifashisha imodoka ngendanwa, ikagenda isuzuma abantu muri Bugesera.

Ubuzima bwo mu mutwe bukwiye guhagurukirwa bukitabwaho, ndetse hagashyirwaho imirongo ngenderwaho ifatika yo kwita kuri ubu buzima kuko buhangayikishije ndetse bukomeze kwibasirwa n'indwara zitandukanye.

Umukecuru usa nkaho atuzuye mu mutwe, ndetse aba ngaba twita ngo afite uburwayi bwo mu mutwe atetse ibintu biri mu isafuriya iriho imbyiro nyinshi, umufuniko wataratse wibereye hasi, ateretse n'igikombe nacyo kiri hasi.

Abagabo bambaye amashati y'umukara amapantaro y'umukara udupira twa girini barimo n'abagore bo bambaye imipira gusa, bari mu bukangurambaga bwo gukangurira abantu kurwanya ihohoterwa ndetse.

Itsinda rigari ry'abaganga bafatiye ifoto imbere y'inyubako y'ibitaro ndetse bari bahurijwe hamwe mu nama yariri kwiga ku bibazo ndetse n'indwara zifata ubwonko.

Mu by'ukuri ni byiza ko ubuzima bwo mu mutwe buhagurukirwa bukitabwaho ndetse hagatangwa ubuvuzi buhamye, kuri indwara zifata ubu buzima cyangwa se iyi mitwe y'abantu.

Umubyeyi ukuze, ufite ikibazo cyo mu mutwe, ari kuganirizwa n'ubishinzwe, kugira ngo abashe gusubiza neza ibitekerezo bye ku murongo, ndetse yongere kuba umuntu muzima.

Abantu benshi bakunze kuvuga ko burya umuntu udatekereza neza aba atuzuye niyo mpamvu dukwiye guhagurukira kwita ku ndwara ndetse no kwita ku buzima bwo mu mutwe.

Abaganga basuye abarimu ku ishuri bareba uburyo mwarimu yifashisha ikintu cyabugenewe, kifashishwa mu kwigisha abana uburyo bakaraba amenyo bakoresheje uburoso n'umuti wabugenewe.

Umusore rwose wakuye icyo bita uruhu ku memyo, ari gukoresha akadodo cyangwa se akagozi, asukura aya menyo ye meza y'urwererane.

Muganga yigisha abantu uburyo bakwiye kwita ku menyo yabo bakora isuku bakoresheje korogate ndetse n'uburoso ariko ni byiza ko n'abarimu babitoza abanyeshuri mu gihe cy'amasomo asanzwe.

Ni byiza ko dukoresha uburyo bugiye butandukanye dusukura amenyo yacu kugira ngo tuyarinde indwara zigiye zitandukanye kuko ari ingenzi cyane mu buzima bwa muntu.

Kwa muganga hari udukoresho tubiri tuzamuwe hejuru, kimwe kimeze nk'aho ari akamikoro kagerweho ndetse ibyo byuma byose uko ari bibiri, bifite imigozi icometse ahantu.

Umuganga afite igipapuro, ari kucyereka umuntu, ndetse uwo muntu nawe afite ikindi, akaba ari kugaragaza amenyo, bisa nk'aho batwigisha kwita ku buzima bwo mu kanwa, by'umwihariko, amenyo.

Umusore ari kutwereka uburyo dushobora gukoresha dusukura amenyo yacu kugira ngo tubashe kugira amenyo azira indwara ndetse azira umwanda.

Urutoki rwa muganga rutunze ku gishushanyo cy'amenyo, ndetse bisa nkaho ari kutwereka ko, iyo tugize ikibazo cy'amenyo nta handi tuba dukwiye kujya uretse kwa muganga bakadufasha.

Ni byiza gukoresha uburoso ndetse na korogate igihe usukura amenyo yawe. Kandi abana batoya na bo barabitozwa, by'umwihariko iyo bari ku ishuri, bagiye kwiga.

Umusore mwiza cyane wambaye ubusa hejuru bigaragara ko yari agiye gukaraba muri dushe, ariko agatekereza ko ari ingenzi cyane kubanza koza amenyo akoresheje akadodo kabugenewe kugirango akuremo imyanda yose iri mu menyo hagati.

Umukobwa mwiza ufite amenyo meza, kuko yayogeje akoresheje uburoso bwabugenewe n'umuti wa korogate ndetse akaba n'ubungubu ari kutwereka uko bigenda, mbese ibanga ryo gusa neza mu menyo.

Ubuvuzi bumaze gutera imbere ku buryo hari ibintu byinshi byifashishwa by'ikoranabuhanga bikoresha amamashini ya rutura agezweho mu gusuzuma abarwayi.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye biba kwa muganga. Byifashishwa mu kuvura no gusuzuma abarwayi ndetse bikifashishwa kugira ngo hamenyekane imiti bagomba gufata.

Umusaza ndetse udashaje cyane bigaragara ko akiri umugabo, ari kwikora mu kanwa ndetse bisa nkaho arwaye iryinyo akeneye kujya kwa muganga ngo barivure cyangwa barikure.

Ikintu cy'igishushanyo kimeze nk'amenyo, kiriho amenyo yose uko ari mirongo itatu n'abiri, bari kutwigisha uburyo twayasukura n'uburyo twayitaho.

Muganga ari gukura iryinyo ry'umurwayi, uwo murwayi ni umwana mutoya ndetse muganga akaba afite ibyuma byabugenewe yakojeje mu kanwa k'uwo mwana.

Ubuvuzi bw'amenyo bukwiye guhagurukirwa ndetse bukitabwaho cyane kuko burembeje benshi aha bari kutwereka icyuma gifashe iryinyo aho rimaze gukurwa mu kanwa k'umuntu hakaba hasigaye hari umwobo mbese igihanga.

Umuganga wambaye amarinete, agapira k'umukara, mo imbere ishati y'umweru ifite amaboko maremare ndetse yayahinnye, yambaye ga, ari kwita ku murwayi w'amenyo, ari kumwe na mugenzi we w'umugore.

Muganga ari kuvura umurwayi w'umubyeyi amenyo ndetse yashyize ikintu mu kanwa k'icyuma k'ikoranabuhanga, kikaba kimeze nk'ikiyiko ndetse akaba ari kurebera mu bindi bimeze nk amarinete, aho ari kureba neza ikibazo cy'amenyo y'uwo mubyeyi.

Kwa muganga mu nyubako, hari intebe eshatu. Izo ntebe zimeze nk'aho ari iz'imisego, gusa ziba zicarwaho n'abarwayi.

Umwarimu ari kwigisha umwana mutoya w'umunyeshuri wiga mu mashuri abanza uburyo yajya yoza amenyo ye akoresheje uburoso ndetse na korogate yabugenewe.

Umuntu watunze urutoki ku menyo ye aho ari kutwereka ko ari ngombwa koza amenyo yacu dukoresheje uburoso ndetse n'umuti wabugenewe kugira ngo tubashe kwirindade indwara zitandukanye zituruka ku mwanda w'amenyo.

Abantu benshi bakunze kuvuga kuri gahunda zo gusukura amenyo, ariko bazi uburyo bwo gukoresha uburoso n'umuti wabugenewe, ariko birengagiza ko hari n'ubundi buryo bwo gukoresha urudodo usukura amenyo.

Abana batoya bameze nk'abanyeshuri bari koza amenyo yabo bakoresheje Korogate n'uburoso bwabugenewe, ibi bikaba ari ibintu byiza cyane kuko abana iyo batojwe koza amenyo hakiri kare bibarinda kuzagira ingaruka ziva ku kutayagirira isuku.

Ubuvuzi bw'amenyo bumaze gutera imbere ndetse bwahawe umurongo ufatika, ku buryo ubu ngubu nta muntu ukicwa cyangwa arembywe n'amenyo.

Inyubako nziza cyane iri muburyo bw'igorofa ikaba yubatse ahantu ku muhanda, ifite ibirahure byiza cyane, ifite uruzitiro ruri mu byuma by'ubururu ndetse hasi hari umuhanda wama pave n'inzira yabagenzi.

Umugabo afite isume ku rutugu ndetse hejuru yambaye ubusa, afite urudodo cyangwa akagozi yakweduye akaba ari ku gakoza mu kanwa ku menyo ye.

Ubuzima bwo mu kanwa bukwiye kwitabwaho, ndetse bugahagurukirwa by'umwihariko ubuvuzi bw'amenyo, bukwiye kwitabwaho kuko muri ibi bihe abantu benshi barwaye amenyo.

Umuganga ubizobereyemo wabyigiye neza niwe wenyine ufite ubushobozi ndetse n'ububasha bwo kuvura cyangwa gusuzuma iryinyo ry'umurwayi.

Abakecuru n'abasaza bakeneye kwitabwaho kugira ngo bagire ubuzima bwiza ni byiza cyane ko buri muryango wose ushyira hamwe ukaganiriza abakecuru n'abasaza bawurimo.

Abantu bicaye munsi y'igiti kinini cyane gifite amashami ndetse aba bantu bisa nk'aho bari mu nama yabahuje kugira ngo bashishikarizwe kwita ku buzima bw'abakuze.

Abasaza n'abakecuru bageze mu zabukuru bahuriye hamwe mu munsi wabo, bakaba bose baganirijwe uburyo bakita ku buzima bwabo.

Ababyeyi babiri bakuze bigaragara ko ari abakecuru bari gukora siporo zo kwirukanka ndetse ibi bikabafasha kugira umubiri uhangana n'indwara.

Umuntu w'umusaza ugeze mu zabukuru ari kumwe n'umukecuru we baricaye imbere yabo hari ameza, umukecuru afite urupapuro ari gusomera umusaza bagiye kunywa imiti kuko ku meza hatetse uducupa tw'ibinini.

Umusaza ugeze mu za bukuru ari gufashwa n'undi mugabo bigaragara ko we akiri mutoya akaba yambaye agapfukamunwa ndetse bikaba ari ibintu byiza cyane.

Umusaza wifashe mu ntoki yazihuje, akaba ari kureba mu maso y'umuganga, muganga ari kumwenyura, umusaza yicaye mu kagare k'abafite ubumuga, bigaragara ko yagize ikibazo cy'amaguru.

Umukecuru n'umusaza bose barakuze bafite imvi ariko umusaza afite telefone bari kuyirebamo, umukecuru nawe afite agapapuro n'ubwo yarangariye muri telefone y'umusaza. Imbere yabo ku meza hateretse ibinini biri mu icupa ndetse n'igikombe cy'amazi.

Umuganga afite ikintu ari kwambika umusaza ndetse umusaza arimo arahitegereza ku kuboko, aho uwo muganga ari kucyambika.

Abantu babiri bafashe umusaza bigaragara ko ageze mu za bukuru, atakibasha no kwicara, bakaba bari kumwicaza ahantu hashasheh'igitambaro cy'umweru, uyu musaza akaba afite imvi z'uruyezi.

Abasaza n'abakecuru bageze mu za bukuru, na bo bakora siporo kugira ngo bafashe ubuzima bwabo ndetse n'imibiri yabo kugira ubudahangarwa bwo guhangana n'indwara, ndetse n'ibindi bibazo bigenda byugariza umubiri.

Umubyeyi ari gukina n'umwana we agakino. Ndetse aka gakino kari gufasha uyu mwana gutekereza neza ndetse vuba, bityo ni byiza ko dufasha abana bacu tubafasha mu bigiye bitandukanye.

Umukecuru bigaragara ko ugeze mu za bukuru, yashinze inkokora hasi ariko ni ku kantu kameze nk'agakeka, ndetse akaba ari gukora siporo, bigaragara ko ari pompaje, ubungubu ni uburyo bwiza cyane bwo kwifasha kugira umubiri mwiza.

Umuntu ugeze mu za bukuru ufite imvi z'uruyenzi, akeneye kurya indyo yuzuye irimo ibintu ibitera indwara, ibirinda imbaraga ibyubaka umubiri ndetse n'imboga n'imbuto.

Umuganga afashe ukuboko k'umurwayi uwo murwayi ni umukecuru ugeze mu za bukuru ndetse bisa nkaho muganga hari ubuvuzi ari kugenda amuha.

Abaganga bagira inama ababyeyi ndetse n'abakecuru bageze mu za bukuru, kugana ibitaro bakagirwa inama, ndetse bagahabwa ubuvuzi.

Umuganga ari mu kantu kameze nk'akuma kamufasha kugenda no gutembera bigaragara ko yari afite ikibazo cy'amaguru, hari umuganga uri kumufasha.

Umusaza ukuze yicaye ahantu ari kureba umuti uri mu gacupa k'umukara ndetse akaba imbere ye ku meza ateretse uducupa tubiri twumweru turimo iminini harambitse n'impapuro iruhande rwe hari umukecuru uri kureba muri mudasobwa akaba ari kwitegereza n'uwo musaza.

Abasaza bageze mu za bukuru bakenera kwitabwaho kugira ngo bakomeze bagira icyizere cy'ubuzima ndetse bakomeza no gutekereza neza.

Abantu benshi cyane bicaye ndetse bigaragara ko bari mu nzu mo imbere, bisa nkaho ari umuryango, ariko hari umubyeyi umwe ukuze, biragaragara ko yishimye aganira n'urungano rugiye rungana n'abana batoya ndetse n'urubyiruko ari abuzukuru n'abuzukuruza be.

Umuganga ari gufasha umukecuru gukora imyitozo ngororamubiri aho yamuhaye umugozi umukecuru akagenda awukwetura yazamuye amaboko mu kirere.

Umusaza n'umukecuru bageze mu za bukuru bari gusoma urupapuro ndetse ku meza hateretse agacupa karimo imiti ndetse hari n'ibinini bihari.

Umuganga ategeka umusaza ugeze mu za bukuru gusoma ndetse no kwandika kugira ngo bimufashe gutekereza neza, bityo ubwonko bwe kumera nk'ubw'umusaza koko.

Umuganga afashe mu kiganza cy'umukecuru bari kurebana mu mumaso umuganga ari kumwenyura umukecuru nawe ari kumwitegereza uwo mukecuru ageze mu za bukuru afite imvi'uruyenzi.

Umurwayi aryamye ku gitanda yiyoroshe ishuka ry'umweru, muganga ari iruhande rwe ndetse iruhande rw'uwo murwayi hari icyuma cy'ikoranabuhanga gishobora kuba kifashishwa mu gutanga ubuvuzi kuri we.

Umusaza uri mu kagare ari gusunikwa muri ako kagare n'umuntu wumugore ndetse uwo mugore ari guseka, umusaza nawe arishimye, ni byiza ko abageze mu za bukuru tubitaho tukabaha keya.

Umwana mutoya ari gukina n'umugabo ukuze, bisa nkaho ari nka sekuru, mu byukuri ibi ni byiza cyane, birigufasha uyu musaza gushyikirana n'umwana ndetse no gutekereza neza , n'uyu mwana nawe we biramufasha kuko abona ko yitaweho na sekuru.

Umusaza bisa nk'aho akuze n'ubwo urebye isura ye wabona ko akiri mutoya, gusa urebeye ku mvi ziri mu bwanwa uhita wibwira ko ari umusaza. Akaba yikorera siporo zimufasha gukomeza kugira umubiri nkuw'abatoya.

Umubyeyi wambaye impeta wambaye agapira kajya gusa nk'umuhondo, wambaye amarinete, uri kwisekera, wambaye igitambaro cyiza cy'umukara. Inyuma ye hari umuganga wamuturutse inyuma amufata amaboko ndetse akaba ari kumuganiriza.

Abakuze bakwiye kwitabwaho ndetse bagahabwa ubuvuzi bugiye butandukanye mu rwego rwo kugira ngo bagende bagira ubuzima bwiza ndetse barushaho kuramba.

Abaturage benshi bahurijwe hamwe mu nyubako, ndetse iyo nyubako ni itente ryubatswe ry'igihe gito, kugira ngo babashe kugira ubukangurambaga batanga ku bantu bakuze ndetse n'abageze mu za bukuru.

Umukecuru aricaye ari imbere y'undi muntu ubona ko akiri mutoya, uwo umuntu ari gusoma ku rupapuro, imbere ye hateretse ibinini bisa nkaho agiye guha uyu mukecuru ugeze mu za bukuru ibyo binini kuko hari n'ikirahuri cy'amazi giteretse ku ruhande kumeza.

Imbaga y'abantu bagiye batandukanye bahuye hamwe bakaba bari mu nama. Harimo abagabo bambaye amakoti meza cyane y'umukara ndetse n'amashati y'umweru, karuvati z'umukara, iz'umutuku n'iz'ubururu. Bose bari kwiga ku bibazo bigendanye n'ubuzima.

Ntidukwiye kugira n'umwe dusiga inyuma, dukwiye kwita ku buringanire mu bigendanye no gutanga ubuvuzi bugiye butandukanye, ndetse n'inama ku buzima.

Isi yose ikwiye guhaguruka ndetse igafatanyiriza hamwe ikarwanya indwara zigiye zitandukanye, ndetse bagashyiraho gahunda nyinshi zitandukanye zo kwita ku buzima bw'ikiremwa muntu.

Abagabo babiri bari gusuhuzanya bakoranye mu biganza bose bambaye amakote meza cyane ndetse na karuvati, umwe afite igitabo yashyize ku mutima undi afite ikayi ari gusomamo.

Bari kutwereka icyapa cyanditseho The Africa Higher Education Centers Excellence A Pathway Towards Sustainable Development, aya ni amagambo y'Icyongereza agaragaza ko abantu bakwiye kwita ku burezi bwa Afurika.

Abantu bashushanyije cyangwa se bari mu cyapa, icyo cyapa cyanditseho amagambo agaragaza ko havurirwa indwara zigiye zitandukanye zirimo na kanseri, bakaba bari kudushishikariza kwirinda kanseri.

Madamu nyakubahwa Janete Kagame na we adushishikariza kwirinda ndetse no kurwanya indwara zo mu mutwe, ndetse tugahagurukira gufata neza ubuzima bwo mu mutwe.

Umujyanama w'ubuzima arimo arasuzuma umurwayi cyangwa se akaba ari kumuha ubuvuzi bworoheje, abajyanama b'ubuzima barafasha cyane bagira inama abaturage kandi iyo bibaye ngombwa umurwayi bamwihutana kwa muganga cyangwa se bakamuhamagariza imbagukiragutabara.

Kwiga ndetse no gukorera hamwe kugira ngo abana barindwe Virusi itera Sida, ni amagambo y'Icyongereza ari ku cyapa kigaragara.

Amagambo y'icyongereza maremare yanditse mu ibara ry'umweru ariko yanditse ahantu hasa umukara, ayo magambo aratwereka ko ari umunsi mukuru mpuzamahanga ku isi yose, wahariwe kwirinda ndetse no kurwanya agakoko gatera sida.

Abaganga benshi cyane bahuriye mu nama mpuzamahanga ishinzwe kwita ku buzima ndetse no kurwanya indwara zigiye zitandukanye, gusa igitangaje hari umuntu bigaragara ko ari umuyisilamu wicaye imbere, wambaye ibintu by'imyeru.

Comprehensive sexuality education, a reference book for secondary school teachers. Aya ni amagambo y'icyongereza asobanurwa ko abana batoya bigishwa kwirinda imibonano mpuza bitsina.

Abaganga bita ku murwayi mu buryo bwose bushoboka kugira ngo bamufashe ndetse bamuvure ye gukomeza kurembywa n'indwara arwaye.

Abantu benshi cyane bahuriye mu nama bakaba bari kugenda begera imbere, basanga muganga, muganga agenda aganiriza buri umwe, umwe amugira inama ndetse amukingira.

Igishushanyo kiriho amagambo yandikishijwe mu ibara ry'umukara n'andi yandikishijwe mu ibara risa nk'ubururu ariko iryo bara rikaba ryijimyemo ukuntu.

Abantu benshi bahuriye mu nama iyo nama ikaba yavugaga ku bintu bigendanye n'ubuzima, ubona ko bazengurutse ameza ayo meza ateretseho ibintu bimeze nk'imiti iri mu ducupa, ndetse hari n'abandi bantu bicaye mu ntebe za parasitike z'umweru.

Ifoto iriho igitabo gishushanyije cyanditswemo amagambo agiye atandukanye hakurya no hakuno mu mapaji iki gitabo kigaragaza uburyo butandukanye bwo kwita ku buzima bwa muntu.

Imbaga y'abantu bahuriye mu nama iyo nama ikaba yabereye mu nyubako nziza, iyo nyubako ikaba ifite intebe nziza cyane zitukura ari naho abo bantu bari bicaye.

Muganga ari kwita ku murwayi ndetse uwo murwayi arasamye yicaye ku gatebe ari kureba hejuru, bisa nkaho bari kumuvura amenyo. Inyuma hirya iruhande rw'itente hari abandi baturage batonze umurongo.

Icyapa kinini cyane, gishushanyijeho amagambo ari mu mabara y'umukara ndetse hakaba hasi hariho, andi magambo ari mu ibara ritukura.

Uburyo bwo kuvura ndetse no kwirinda indwara burakomeje cyane, by'umwihariko dukwiye kwita ku bana, tukabarinda indwara nk'uko umuryango w'abibumbye ushinzwe kwita ku bana ubidushishikariza.

Icyorezo cya kovide cumi n'icyenda cyashegeshe abantu benshi cyane, kuko bamwe bahaburiye ubuzima abandi babura inshuti zabo, ndetse n'abavandimwe.

Ubuzima bukwiye guhagurukirwa ndetse hagashyirwaho gahunda nyinshi zitandukanye zo gukangurira abaturage ndetse n'abantu bose kwirinda ndetse no kwivuza indwara z'igihe zitandukanye.

Umuganga avura uburwayi mu buryo bugiye butandukanye, ashobora kumutera urushinge cyangwa agakoresha ubundi buryo kugira ngo amwiteho.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku buzima cyo mu Rwanda RBC, gihora gishishikariza ndetse gishyiraho gahunda zitandukanye zo gushishikariza abantu kwita ku buzima, no kwirinda indwara nyinshi zitandukanye.

Mu by'ukuri ubuzima ni ingenzi ndetse ni ubuzima bwa muntu, buri wese akwiye guhaguruka akarwanya indwara zigiye zitandukanye.

Ubuvuzi bwateye imbere ndetse ubona ko ari umwana, ari umukuru, nta muntu n'umwe batitaho ndetse batanga ubuvuzi bufite ireme. Aho nta handi ni mu gihugu cy'u Rwanda kuko mu Rwanda iyo batera imbere, ibice by'ubuzima na byo bitera imbere.

Inama yahuje abaganga benshi cyane batandukanye bose bari bambaye amtaburiya y'umweru ndetse bisa nkaho ari abagore gusa kuko bafite imisatsi yumukara isutse neza.

Ubuzima bukwiye guhagurukirwa hagashyirwaho gahunda ndetse n'uburyo buhamye bwo kurwanya indwara zigiye zitandukanye, twebwe nk'abanyafurika by'umwihariko bo mu burasirazuba bwa Afurika, dukwiye gufatanyiriza hamwe tugatera imbere.

Ibyiza byo gukora ibintu bigiye bitandukanye kugirango urinde ubuzima bwawe birimo nko gukora imyitozo ngorora mubiri.

Uburyo bwiza ndetse n'inama twakoresha kugira ngo twirinde virusi itera sida, ni uko twakwirinda twebwe ubwacu gukora imibonano mpuzabitsina by'umwihariko hano iwacu mu Rwanda.

Ababyeyi bagera muri bane, bose bateruye abana ndetse abo bana bigaragara ko bakiri batoya bisa nkaho bataruzuza umwaka, bisa nkaho baje kubakingiza kwa muganga.

Kuringaniza urubyaro ni byiza cyane kuko bifasha igihugu ndetse n'umuryango kutagira ibibazo bishingiye ku bwinshi bw'abana ndetse n'abaturage, bigatuma babasha gutera imbere.

Abagabo bambaye amakote n'amakaruvate bose bari mu nama, ndetse hari n'abagore b'ibishongore, bose bari kwiga kuri gahunda nshyashya yo kwita ku buzima bwa muntu.

Inyubako yo kwa muganga irimo imiti, iyo miti iri muri etajeri, iyo etajeri ni nini cyane ku buryo ifite imyanya myinshi.

Umurwayi aryamye ku gitanda ndetse ari kugaragaza itako, bisa nk'aho ari umurwayi urembye. Abaganga bari kumwitaho, umuganga umwe ari ku mutwe ndetse undi ari ku kuboko.

Inyubako yo kwa muganga ikaba ari inyubako nziza cyane ndetse bisa nk'aho yubatswe ahegerereye abaturage, kuko inyuma yayo hari urutoki ndetse hari n'inzu bisa nk'aho ari iy'umuntu usanzwe.

Umurwayi aryamye ku gitanda cyo kwa muganga ndetse yambaye amasogisi ye n'ipantaro ya kashibombe, ndetse akaba afite agashati keza ka karokaro yambaye agapfukanwa muganga ari kuhande rw'igitanda ari kumufasha.

Abaganga benshi batandukanye bambaye imyenda ibapfutse amasura, ubona ko bari mu cyumba kirimo indembe ndetse izo ndembe zikaba ziryamye ku bitanda gusa buri gitanda gifite inzitiramibu, hari n'amarido meza cyane y'ubururu akingirije ku birahure kugira ngo imbeho itica aba barwayi.

Inyubako nziza cyane iri muburyo bw'igorofa ifite imiryango yo hasi myiza yumukara hakaba harimo ibirahure byiza bibonerana, imbere ku ruhande gato ahasa nko mu nguni haparitse imodoka y'ivatiri, iyo nyubako icuruza ibijyanye n'imiti.

Ibitaro byo kwa muganga bigaragara ko ari ibitaro bigezweho, hari ibitanda abarwayi bicaraho ndetse basa nk'abegamye, ibyo bitanda bikaba biteye mu buryo butamenya, ndetse hari ameza ateretse muri icyo cyumba.

Abaganga babiri bari kureba mu kintu kimeze nk'akabati cyangwa se igisanduku kizamuye, ariko bigasa nk'aho bari gupima ibintu runaka kugira ngo barebe igisubizo cyabyo.

Inyubako yo kwa muganga ikaba ifite ahantu abaforomo ndetse n'abaforomokazi batangira serivise zigiye zitandukanye ku barwayi bafite indwara.

Ibitaro bya ruhengeri. Ruhengeri Hospital. Ni ibitaro biboneka mu Karere ka Musanze, ndetse byubatse neza cyane bifite porutaye izitewe n'ibyuma bifite amabara y'umweru, ndetse n'inkingi zubakishijwe amatafari ahiye.

Mu bitaro byo kwa muganga, hari ibitanda abarwayi barembyeho baryamishwaho, ibyo bitanda ni byiza cyane ndetse ni byinshi, bikaba bifite amashuka y'umweru ndetse kuri buri gitanda hamanitse inzitiramubu.

Ni byiza ko dupimisha abana bacu batoya ibiro bafite kugira ngo tumenye imikurire yabo, hanyuma tugirwe inama na muganga.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibyuma by'ikoranabuhanga rigiye ritandukanye, harimo ibintu by'imipira izamuye icometse mu mamashini, bigaragara ko hari n'abaganga bagera muri bane batatu ku murongo umwe, n'undi umwe imbere yabo hari ibyo barimo barasuzuma.

Rwamagana Hospital, ni ibitaro by'Akarere ka Rwamagana, hakaba hari abaganga bari imbere y'ibyo bitaro, bari gufata ifoto nyuma yo gukora inama n'amahugurwa, hamwe n'abanyamahanga bashinzwe iby'ubuzima.

Inyubako nziza cyane, yubakishijwe amatafari, ikaba ifite imiryango irimo ibirahure byiza bibonerana, iteye irangi ry'umweru, imbere yayo hari uturongo tuzamuka tw'umweru.

Inyubako yo kwa muganga irimo ama etajeri ndetse hari ahantu hameze nk'ahari uturobine, aho umuntu ashobora gukaraba, icyakora ni inyubako nziza cyane.

Inyubako yo kwa muganga ikaba ari inyubako nziza yubatswe neza n'amatafari ahiye ishakaje amabati y'umutuku, ifite ibaraza rinini aho abarwayi bakunze kuba bihagarariye.

Kwa muganga mu nyubako imwebere hari icyumba kirimo igitanda cy'umurwayi hari intebe nziza byo kwicara kuri icyo gitanda hari agasego k'umweru hari n'imashini ziri hejuru zocometseho insinga z'umuriro w'amashanyarazi ashanmo ibishushanyo hari n'inzakaza amashusho hejuru imanitse.

Inyubako nziza cyane irimo imiryango igiye itandukanye iri ku murongo, hakaba kuri buri muryango hamanitse igipapuro.

Icyuma cyifashishwa mu gusuzuma ndetse no kumenya icyo umurwayi abura mu buzima bwe, kugira ngo amererwe neza, ndetse akaba ari icyuma uzasanga ku bitaro bikuru.

Icyuma cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu gusuzuma abarwayi ndetse no gusuzuma abazima ngo barebe ko imibiri yabo ikora neza.

Mu nyubako kwa muganga imbere hari ibitanda byiza by'abarwayi ndetse hari ibyuma by'ikoranabuhanga bimanitse mu kirere buri gitanda kikaba cyegereye ikintu cyiki mashini kiri ku gikuta.

Inyubako nziza cyane yubatse ifite ibirahure bibonerana ku buryo iyo uri inyuma ubu ureba intebe zirimo imbere zizengurutse ameza ndetse bikaba bigaragara ko ari inzu yifashishwa mu bushakashatsi bushingiye ku by'ubuzima.

Ahantu batanga ubuvuzi bwihuse, ni icyumba cyanditse ayo magambo ariko akaba ari mu rurimi rw'Icyongereza, mbashije kugenekereza kugira ngo nsobanurire abanyarwanda batize cyangwa se batazi ururimi rw'Icyongereza.

Abantu bagera muri batanu bararenga ndabona ari nka batandatu, bafite utuntu tw'udukapu ndetse barikugana mu nyubako bisa nkaho ari inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ikaba igurisha imiti.

Kwa muganga uzahasanga ibikoresho bigiye bitandukanye ariko hari ikitahabura by'umwihariko iyo ari nko mu bitaro bikomeye. Icyo ngicyo ni ikizwi nka bomboni gitanga umwuka mwiza ku barwayi.

Ibitanda byiza cyane biba kwa muganga, biba biriho matora nziza zo kuryamaho, ibi bitanda abarwayi barembye babiryamaho kugira ngo bakomeze gukurikiranwa n'abaganga.

Ibitaro bitandukanye byo kwa muganga, bikaba bikunze kuba mu inyubako zigezweho, kimwe muri izo nyubako, haparitse imodoka imbere yacyo.

Ibyicundago by'abana, ni ibyuma bikozwe mu buryo bwa gihanga; ndetse abantu bakaba bakunze kuvuga ko bifasha abana gutekereza neza.

Ubuvuzi bugezweho bukoresha ikoranabuhanga rigiye ritandukanye mu rwego rwo gufasha ndetse no kuvura abarwayi aho basigaye bifashisha ibikoresho bikoresha ikoranabuhanga.

Intebe nziza cyane z'umukara, ziteye iruhande rw'ameza ndetse hirya nanone imbere gato, hari izindi ntebe zirimo iy'umukara umwe ndetse n'izindi ebyiri ziyegereye z'ibara ry'ivu.

Mu inyubako m'imbere yo kwa muganga irimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye harimo ibyifashishwa mu gusuzuma abarwayi.

Inyubako iri mu magorofa atatu yubatswe y'ibitaro, ikaba ari inyubako nziza cyane. Aho ifite amarangi meza ndetse hakaba hari aho imodoka zitarika igihe zitegereje ubuvuzi runaka cyangwa zizanye abarwayi ku giti cyabo.

Inyubako yo kwa muganga, ifite ibintu by'ibiti ndetse bimeze nk'ibyuma, byubatse biyizengurutse. Ndetse hari utujaride twiza.

Ubuvuzi bwo mu Rwanda bukoresha ikoranabuhanga ritandukanye mu gusuzuma, gutahura ndetse no kumenya imiti baha abarwayi.

Umuganga wambaye itaburiya y'ubururu ndetse ari gusoma mu gitabo, imbere ye hari undi muganga uri kwandika mu gitabo ndetse hari ameza y'umweru, hari umurwayi uri imbere y'umuganga.

Muganga ari mu bitaroho yaje kureba uko abarwayi bamerewe, none asanze inzitiramibu itamanuye, ari kuyimanura kugira ngo umurwayi atarumwa n'imibu ikamwanduza malariya.

Inyubako nziza cyane, ikaba ari inyubako yo kwa muganga, ikaba irimo ibikoresho bigiye bitandukanye ndetse byifashishwa mu buvuzi by'umwihariko iby'ikoranabuhanga.

Inyubako nziza cyane y'ibitaro; ubona ko ari ibitaro bifite inyubako y'igorofa. Imbere y'iryo gorofa haparitse imodoka eshatu ziri ku ruhande rumwe n'izindi eshatu ziri kuru rundi n' indi iri guhinguka hirya y'umukara. Hari porotayi nziza cyane, ifite ibyuma bifite amabara y'umweru n'umutuku.

Inyubako nziza yo kwa muganga, iriho icyapa cyanditse hejuru kigaragaza ibyo bitaro ibyo ari byo, ni inyubako yubakishijwe amatafari ahiye.

Inzu y'ababyeyi, ni ibitaro cyifashishwa n'ababyeyi bagiye kubyara, ndetse ibi bitaro bikaba bikunze kuboneka ahantu henshi mu Rwanda.

Ikigo cyashyizweho mu rwego rwo gufasha abana bahuye n'ihohoterwa by'umwihariko abangavu cyangwa se abakobwa, akenshi bahura n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Iyubako nziza cyane yubatswe ubona ko ari inyubako nini rwose ngari, imbere yayo haparitse imodoka imwe na moto imwe hino y'ibyo binyabiziga hazamuye idarapo ry'igihugu cy'u rwanda.

Ibitanda biri kwa muganga biriho abarwayi bagiye batandukanye, aho hari umurwayi ufite amashuka y'umweru, n'undi murwayi uryamye ku gitanda kiriho amashuka y'ubururu, hejuru yabo bose hamanitse inzitiramibu.

Inzu y'ababyeyi, ni inzu nziza cyane ishakaje amabati y'ubururu ndetse iteye amarangi y'umweru, igitangaje imbere yayo hari umurasire w'izuba bigaragara ko wifashishwa muri iyi nyubako.

Umurwayi wicaye mu kagare k'abafite ubumuga aje ku bitaro, ibitaro ubona ko ari byiza cyane bifite agahanda gashashemo amabuye twita amapave, hari agacaca keza, hakurya hari ikigega cy'umukara, hakurya cyane hari umusozi ubona ko ari ahantu abaturage batuye.

Inyubako nziza cyane yo kwa muganga, ifite amakaro meza ndetse harimo utuntu tw'uturongo tumanutse tugera kuri dutatu, aho dusoreza ku gikuta hari intebe ihari abantu bicaraho, iyo ntebe iri hagati y'amavaza abiri, ivase rimwe ririmo indabo n'irindi ririmo indabo zose z'icyatsi kibisi.

Umugabo yicaye ku ntebe, intebe ya palasitike ndetse hari umuryango winjira mu nyubako, iyo nyubako ikaba igereretse inshuro eshatu, hari imodoka iri gusohoka mu muryango, iyo nyubako ni inyubako ikora ibintu by'ubuvuzi.

Inyubako nziza cyane ndetse bigaragara ko ari shyashya. Yubakishijwe amatafari ahiye ku bikuta byose imbere n'inyuma. Iyo nyubako ishakaje amabati meza cyane y'umutuku. Imbere yayo hari akarasire gatoya k'izuba kazamuye hejuru.

Ibyuma by'ikoranabuhanga rigezweho ryifashisha ubumenyi butandukanye bwashyizwemo niryo risigaye rifashwa kwa muganga kuvura abarwayi no kubasuzuma.

Inyubako nziza cyane, isa nk'aho ari inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, ikaba isize amarangi meza asa n'ivu, ndetse hejuru mu gisenge hari ibyuma bitambitse, ndetse n'ibindi bimanutse.

Inyubako nziza cyane yo kwa muganga, irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, ameza, intebe, hakabamo n'ibyuma by'ikoranabuhanga bicomekeranyije, ndetse ubona ko byifashishwa mu kuvura, cyangwa gusuzuma abarwayi.

Umuganga ari kwita ku murwayi, umurwayi yicaye ku gitanda ndetse yiyoroshe ikiringiti kinini gishyuha ndetse inyuma y'umuganga hari undi muntu umeze nk'umurwayi nawe wiryamiye ku gitanda ari kurebera.

Abaturage bahurijwe hamwe mu nama, bakaba bicaye ku mbaho ndetse bakurikiye uri imbere wambaye ikote ry'umukara, ufite indangururamajwi, ari kubaganiriza.

Inyubako nziza cyane, zisa nk'aho ari iyo kwa muganga, ifite amakaro meza ashashe hasi, hari n'ahanditse nasi sitesheni ndetse hakaba buri muryango ugiye uriho nimero n'ikihakorerwa.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bw'igorofa ariko igeretse rimwe, ifite imbuganga ngari aho imodoka ziparika hazwi nko muri parikingi, ifite utujaride twiza cyane dutangirijwe, ahantu heza cyane hasa umuhondo n'umukara.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru uteze akantu mu mutwe, wambaye amarinete akaba yambaye n'agapfukamunwa, ari kuvura akana gatoya k'agahinda ndetse nyina w'agahinda aragateruye yicaye ku ntebe.

Ku bitaro kwa muganga, hari inyubako nziza cyane, iyo nyubako ifite amarembo umuntu yinjiriraho, ku marembo haba hahagaze umusekirite ndetse hatambitse ikintu cy'icyuma, kibuza imodoka iyo ari yo yose kwinjira.

Mu by'ukuri ni byiza ko twirinda indwara zigiye zitandukanye, zigenda zandura zivuye ku nyamaswa zikagera ku bantu, nk'abanyafurika dukwiye guhagurukira iki kibazo kikaba icyacu.

Ikigo nderabuzima cya Shagasha ni ikigo nderabuzima cyubatse neza, gifite amabati atukura ndetse gifite inkingi zifashe inyubako. Hari abarwayi bicaye n'abantu babiri bakuru n'utwana tubiri bategereje serivisi z'ubuvuzi.

Inyubako nziza yo kwa muganga ikaba ari inyubako yubatswe mu buryo butangaje cyane kuko ifite dezayini iteye ubwoba hagati y'inyubako hanyuramo umuhanda.

Ibitaro bikomeye cyane, byitwa La croix du Sud, bisobanurwa ko ari ibitaro byo mu Majyepfo ndetse bikaba bishinzwe kwita ku barwayi bagiye batandukanye.

Intebe zo kwa muganga, zikunze kuba ziri ahantu hose, ku buryo n'iyo ugiye mu bitaro aho abarwayi baryama uhasanga intebe, gusa ho ntihaba hari nyinshi, bisa nkaho abaganga aribo bazicaraho gusa.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibitanda gusa ibyo bitanda si ibisanzwe by'abarwayi ahubwo ni ibitanda byifashishwa mu gusuzuma, ndetse no kumenya neza ikibazo umurwayi afite hakoreshejwe ibikoresho by'ikoranabuhanga nk'amamashini agezweho.

Icyapa cyanyanditseho amagambo agaragaza ko hari ibitaro gusa ibyo bitaro, urabona ko biri ahantu mu cyaro. Hari agahanda karunzemo utubuye tw'amasarabwayo ndetse hakaba hari inyubako ishaje, yubakishijwe amatafari ahiye, ifite amabati meza cyane n'ibaraza rifite amabara y'umweru.

Ibitanda byo kwa muganga biryamishwamo abarwayi barembye biba bishashe neza cyane, birimo amashuka y'umweru ndetse n'ayo mu yandi mabara agiye atandukanye. Ibyo bitaro biba birimo inzitiramibu kuri buri gitanda.

Umuganga wambaye itaburiya y'ubururu ari kwita ku murwayi ndetse uwo murwayi bisa nkaho arembye kuko biragaragara ko hashobora kuba arimo serumo cyangwa se yongererwa amaraso.

Umuganga ari kureba ku nsakazamashusho, urabona ko iruhande rwe hari abantu bameze nk'abarwayi, na bo bategereje ubuvuzi, mo imbere mu bubiko bw'imiti harimo undi muntu wambaye agapfukamunwa, ndetse akaba yajyanye n'umuzungu w'umugabo na we wambaye agapfukamunwa.

Inyubako nziza cyane ifite imiryango ifunguye, iruhande rwayo haparitse amamodoka abiri imwe iri ibumoso indi iri iburyo ndetse bigaragara ko ari ku isoko kuko hirya hari ibipupe cyangwa se bya maneke byambaye utwenda, iyi nyubako icuruza imiti.

Mu nyubako yo kwa muganga haba hari ibikoresho bigiye bitandukanye, ibyo bikoresho byifashishwa mu kuvura abarwayi no kubapima ndetse no kumenya imiti bakeneye guhabwa.

Intebe nziza z'umuhondo ariko zifite ukuntu ziteye kuburyo uzicayeho yicara akegama agasa nkuraramye kuruhande hari akantu ashyiraho ukuboko.

Inyubako nziza cyane y'ibitaro ikaba ari inyubako yanditseho amagambo y'icyongereza. Ayo magambo y'icyongereza asobanura ko ari inyubako cyangwa se ari ibitaro bivura abantu barimo abana, ingimbi ndetse n'abangavu. Mu by'ukuri ni ibitaro ubona ko bifite serivisi nziza cyane.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa mu buryo butandukanye bitewe n'uburwayi umurwayi afite ndetse bitewe n'umuganga ugiye kubikoresha.

Inyubako nziza cyane yanditseho amagambo hejuru y'icyongereza agaragaza ko hari ibitaro by'umwami fayisali ndetse hakaba hashinze amadarapo agera muri atatu iry'u Rwanda ni ryo riri hagati.

Ibitaro byo kwa muganga, birimo ibitanda bitondekanyije ku murongo, ibyo bitanda byose bikaba bisa, ndetse bikaba bifite utuntu tw'udupine hasi, ku buryo kubyimura ari ugusunika.

Inyubako nziza cyane, ikaba ari inyubako yubatswe mu buryo bugezweho, ishakajwe amabati y'ubururu ndetse inkuta zayo mu mutwe w'inzu ziriho ibara risa n'ayo mabati n'irindi bara ryenda kuba umukara.

Icyerekezo turi kujyamo kirasaba ko buri wese aba maso ndetse akagira uruhare mu bimukorerwa, niyo mpamvu tubona inyubako yo kwa muganga.

Intebe ebyiri ziteganye imbere yazo hakaba hari ameza, inyuma yazo hari izindi ebyiri ziri kurebana nizo za mbere hagati harimo ayo meza, inyuma hari izindi ziteye muri ubwo buryo.

Inyubako yo kwa muganga nziza cyane, irimo amafoto agiye atandukanye ndetse ayo mafoto akaba ari kuri buri muryango, bisa nkaho buri foto iriho kuri uwo muryango, uwo muntu ari we uhakorera.

Mu nyubako yo kwa muganga mo imbere, hari icyumba kirimo intebe nziza zitukura hari izegereye igitanda, izegereye akameza gateretseho ibintu by'ibibogisi, ndetse hariho ikimeze nk'insakazamashusho.

Inyubako nziza cyane yo kwa muganga, ifite ibyuma by'ikoranabuhanga rigezweho, hakaba hari igitanda umurwayi aryamishwaho, hanyuma icyo cyuma kikabasha kumusuzuma.

Inyubako yo kwa muganga nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho ikaba ifite amakaro meza acishijemo uturongo tumanuka n'utundi tuzamuka, iyi nyubako ikaba mo imbere harimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi.

Umuntu w'umuganga, ufite ikintu cy'umugozi w'abaganga kiri mu ijosi, kikaba kirereta no hasi imbere ye, afite ikimeze nka ajenda, imbere ye hari umurwayi.

Inyubako nziza cyane yo kwa muganga, ikaba ifite icyumba cyiza cyabugenewe gipimirwamo abarwayi indwara zigiye zitandukanye, hari udutebe bicaraho bagasa nk'abegamye cyangwa nk'abararamye.

Ibikoresho byinshi cyane byo kwa muganga byifashishwa mu kuvura abarwayi, kubasuzuma ndetse no kugenda bamenya ibyo umuntu akeneye bitewe n'urwego rw'uburwayi bwe.

Kwa muganga hari udutanda twiza cyane, turyamishwaho abarwayi barembye ndetse ku ruhande hari ibyuma bitangira umurwayi ku buryo atahubuka ngo abe yagwa hasi maze yangirike cyangwa avunike.

Abakecuru babiri baricaye umwe arakuze cyane bigaragara ko ari mu myaka iri hejuru ya mirongo irindwi n'itanu, undi ni umukecuru ukiri mutoya bigaragara ko ari munsi y'iyo ngiyo uwo wundi afite, bari imbere ya muganga.

Ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi, ni ikigo nderabuzima cyubatswe neza cyane gifite amabati ajya gusa n'ivu ndetse kikaba ari ikigo nderabuzima cyakira abarwayi benshi.

Inyubako igezweho yo kwa muganga irimo ibikoresho bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga, ibimashini binini, ibitoya ndetse n'ibiciriritse.

Ibitaro bya Kabgayi: ni ibitaro byiza cyane bizwiho kuvura indwara zigendanye n'amaso, nk'ukodukunze kubyumva babitangamo amatangazo kuri radiyo y'igihugu.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, uturindantoki tw'ubururu ari gukora mu kimeze nka mudasobwa ariko igezweho, ikorwamo intoki bisa nkaho ari kureba ubwoko bw'imiti yaha umurwayi.

Inyubako ebyiri ziteganye zo kwa muganga, zubatswe mu buryo bugezweho ndetse imbere hazo hari akayira kanini twakita nk'ikibuga kirimo amapave; ndetse hari akajaride keza karimo uturabo tutarakura cyane.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru ubona ko yambaye n'agapfukamunwa, yambaye n'amataratara cyangwa se amarinete yambaye n'ikintu cy'igitambaro mu mutwe kimurinda, akaba ari kuvura umwana bisa nkaho ari kumufata amaraso ku dutoki umwana aterewe n'umubyeyi.

Umugabo wambaye agapira gatukura ari gukora imyitozo ngororamubiri akina umukino wa rugubi ndetse bigaragara ko afite n'umuntu w'umutoza uri kumwerekera ibyo akora.

Imyitozo ngororamubiri ifasha mu bintu bigiye bitandukanye ndetse dukwiye kuyikora tukayimakaza kuko biturinda kugira uburwayi bwa hato na hato.

Umuntu ukora siporo ashobora kugira imvune ari gukora izo siporo gusa ni byiza ndetse n'iby'ingenzi igihe ugize imvune runaka haba mu ivi cyangwa se n'ahandi ko ugomba kujya kwa muganga.

Hano hari ibikoresho byagufasha gukora siporo zituma uzana sigisipaka, handitseho amagambo agira ati gufasha gukuraho inda bikoroheye.

Kgikapu cya muganga gitukura kiriho amamashini menshi ndetse n'udufuka twinshi. Ni igikapu kirimo ubutabazi bw'ibanze yaha umurwayi asanze kuri terre.

Umusore w'intarumikwa ufite ikitwa amatuza ari guterura ibyuma bigaragara ko bisa n'ibiremereye cyane, ndetse hari umutoza uri kujya umwereka uburyo abikoramo.

Umukobwa ari gukora imyitozo ngororamubiri, aho yicaye ku mukeka akaba yihinahinnye, akaba yanyujije amaboko inyuma agafata ukuguru kumwe kurambuye ukundi kukaba guhinnye.

Agacupa karerekare kazamuye kariho akantu gapfundikije kameze nk'umufuniko wa handi sanitayiza, hakaba handitseho stop pain bigaragaza ko ari umuti ugabanya uburibwe.

Muganga ari gupfuka umuntu bisa nkaho yavunitse mu kiganza, akaba ari kumuzirika bande kugira ngo amufashe kugorora igufwa ryatandukanye n'irindi.

Umusore w'intarumikwa ari kunywa amazi ndetse ari kureba mu kirere yararamye afite icupa ari gukanda maze amazi agatonyangira mu kanwa, aho bigaragara ko amaze gukora imyitozo ngororamubiri.

Umugabo uri kunywa amazi meza ndetse akaba afite akayesume ku rutugu rwe kazengurutse no mu ijosi kakarereta imbere mu gatuza bigaragara ko yarari kukihanaguza amaze gukora siporo.

Umukobwa aryamye ku mukeka cyangwa se umuce, bamwe bakunze kwita ikirago cyangwa umusambi, ari gukora imyitozo ngororamubiri, yarambuye ukuguru kumwe ukundi arakuzamura aguhinnye, ndetse amaboko ye ayafatisha uko guhinnye kuri kureba mu kirere.

Amazi ari gusukwa mu kirahure, icyo kirahure n’ikirahure cyiza cyane ndetse ayamazi na yo ni urubugobogo biragaragara ko ari amazi akwiye kunyobwa.

Igikoresho kimeze nka Kasiki, kikaba gifite ibara ry'umukara, umuhondo, umweru ubonako kifashishwa igihe cyose umuntu arimo gukora imyitozo ngororamubiri.

Muganga ari kwita ku murwayi, uwo murwayi arubamye aryamye ku gitanda ndetse bisa nk'aho arembye cyane kandi agaragara nk'umuntu w'umugabo.

Mu by'ukuri turabona ko gukora siporo ari ingenzi, gusa baratwereka igishushanyo cy'ibinini ariko bikoze umugabo bisa nk'aho bari kutwereka n'inshinge zifite imibare.

Umukobwa mwiza cyane akaba ari kwinywera amazi, ayo mazi ari mu icupa ry'umweru, uwo mukobwa yambariye agasengeri kagaragaza umukondo ntacyo bimubwiye.

Umurwayi bisa nkaho afite ikibazo cy'urugoma, kuko bigaragara ko afashe ku kuboko kandi uko kuboko hakaba hariho ikintu kimeze nk'igipfuko cy'ubururu.

Umugabo w'umuzungu wiyambariye utu ekuteri n'inkweto nziza za supures, agapantaro k'umukara, agatisheti k'ubururu ari kunywa amazi meza ari mu gacupa k'ubururu.

Icyuma cy'ikoranabuhanga, kirimo ahantu hameze nk'imibare cyangwa se hameze nk'akamashini kakandi kifashishwa mu kubara imibare, ubona ko cyifashishwa igihe umuntu arimo akora siporo zitandukanye.

Amacupa ane atondetse ku murongo rimwe rifite akantu k'akarongo gasa nk'agahese k'umuhondo, irikurikiyeho rifite ak'umutuku, irikurikiyeho ak'icyatsi kibisi, iry'imbere rifite ako karongo k'ubururu.

Imashini yifashishwa n'abaganga mu gufasha abantu kugira ubuzima bwiza iyimashini nziza cyane ndetse ihenze ifite ikintu cy'ikigozi kizamuye hejuru.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibitanda bitandukanye abarwayi baryamaho, bari gusuzumwa n'ibyuma by'ikoranabuhanga, biba biri ahantu habugenewe byaresitawe.

Umukobwa yicaye ku kimeze nk'umukeka cyangwa se akamatora cyangwa tapi uko wabyita kose, akaba ari ahantu heza hashashe amakaro. Yicaye arambuye amaguru, yamanuye intoki ze zifata munsi y'ibirenge. Bigaragara ko ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umuntu uri kunywa amazi meza cyane asa neza, bigaragara ko ari umugabo kuko afite ubwanwa. Ni byiza cyane kunywa amazi meza igihe waba uvuye nko muri siporo cyangwa mu myitozo ngororamubiri igiye itandukanye kuko ibyo byagufasha m'ubuzima bwawe.

Safety in sport, ibi ngibi bivuga ko ari ugukora siporo nzima ndetse ukimakaza imyitozo ngororamubiri, baratwereka abantu bari gukina umupira ndetse n'umusifuzi uri gutanga amakarita.

Umuntu umeze nk'umurwayi yarambuye ukuboko kwe ndetse afite ikintu cy'igipfuko afatishije kuri uko kuboko, bisa nkaho afite igikomere yakuye muri siporo.

Ubutabazi bw'ibanze ni amagambo y'icyongereza yanditse ku gikapu giteretse mu byatsi, kiriho agasaraba gatukura kanditse ahantu hari ibara ry'umweru ndetse kakaba kazengurutswe n'andi magambo y'umukara.

Kwa muganga hari icyuma gikomeye cyane cy'ikoranabuhanga rigezweho cyifashishwa mu gusuzuma abarwayi bagiye batandukanye ndetse umuntu ashobora kukinyuramo aribyo twumva ngo yaciye mu cyuma.

Umusore ufite agatuza wakoze ibaba, ari guterura icyuma. Icyo cyuma kiraremereye nkurikije ukuntu imitsi y'ukuboko kwe yareze gusa hari ibintu bigiye bitandukanye ubona bimufasha. Arya amagi, ubunyobwa, amashu, anywa imitobe, anywa amazi, arya inanasi, arya imineke na karoti, n'imboga zitandukanye.

Umusore ari kunywa amazi nyuma yo gukora siporo ndetse bikaba ari ibintu byiza cyane kuko bifasha umubiri w'umuntu ndetse bikamurinda indwara zitandukanye zirimo n'impyiko.

Umuntu w'umusore ari gukora siporo zigiye zitandukanye kugira ngo afashe umubiri we kumererwa neza ndetse no gukomera nawe we ubwe atekereze neza bimufashe kuramba no kuramuka.

Umukobwa yicaye ku gakeka ari gukora imyitozo ngororamubiri. Imbere ye hari mudasobwa bisa nk'aho ari kureba, akayigiramo ibyo akora.

Inyubako irimo ibikoresho by'ikoranabuhanga ritandukanye ryifashishwa n'abaganga mu gushaka ndetse no gusuzuma ibibazo by'umurwayi mu rwego rwo gutanga serivisi zinoze z'ubuvuzi.

Umukobwa bigaragara ko ari umuzungu ari mu nyubako zagenewe imyitozo ngororamubiri, inyuma hari undi muntu w'umugabo uri kumwereka uburyo akora siporo.

Akaboko k'umusaza karambuye ariko uwo musaza akaba yicaye mu ntebe. Bigaragara ko afite imbaraga nkeya. Hari n'akandi kaboko nanone k'umuntu ubona ko yambaye ikintu kimeze nk'itaburiya cyangwa ikote, akaba afasha akaboko k'uwo musaza. Akaboko k'uwo musaza karimo akuma gatoya gafite nk'ibiro nka bitanu.

Umukobwa ari gukora siporo yambaye agakabutura, kariho uturongo twumweru tuzamutse kuruhande ndetse yicaye hasi mubyatsi, imbere ye hirya bisa nkaho hatagaragara.

Abana bari hakurya abandi bari hakuno, bamwe bafite umupira bari kuzamura hejuru mu kirere, uwo mupira bisa nkaho ari umupira w'amaboko kuko bari kuwutera hejuru bakoresheje amaboko.

Umuntu ari gukora siporo ngororamubiri akaba yiyambariye ipantaro y'umukara ifite akantu k'umweru kazamuye ku ruhande ndetse akaba yiyambariye ekuteri, akaba afite agasengero k'umukara yambaye inkweto zifunze neza za supurese.

Ni byiza cyane ndetse birakwiriye ko tugana kwa muganga bakatugira inama z'uburyo butandukanye twakwita ku buzima bwacu harimo gukora siporo ndetse n'ibindi.

Agakoresho kagezweho kifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, by'umwihariko iyo wayandikiwe na muganga, ni agakoresho kameze nk'inkoni icuritse ariko hasi ifite ibintu bimeze nk'amapine.

Ubuvuzi bumaze gutera imbere ku buryo nta muntu ugiheranwa n'indwara, cyangwa ngo age kwa muganga , bayoberwe indwara arwaye, usange yirwa avuga ngo babuze indwara.

Igihe cyose umaze gukora imyitozo ngororamubiri irimo nko guterura ibyuma ni byizayiza kurya imbuto zirimo nk'amacunga, amarongi, ama pome avoka ndetse n'imboga z'ubwoko butandukanye ukanywa n'amazi.

Igikapu cya muganga yitwaza igihe agiye gutanga ubuvuzi bw'ibanze, kiba kirimo imiti yose ishobora korohereza umurwayi nk'igabanya ububabare ndetse n'iy'indi.

Igihe ukoze siporo ukagira ikibazo cy'imvune, ni byiza gukoresha uburyo butandukanye, wirinda cyangwa wivuza kugira ubashe gukira.

Abaganga bateraniye ku kumurwayi umwe uyu murwayi ararembye cyane ndetse bisa nkaho agiye kuva mu buzima ariko abaganga barasanasana bazamuvura akire.

Amazi meza cyane ari gusukwa mu kirahure bigaragara ko ari kuva mu kimeze nka keto, bisa nkaho bari bamaze kuyashyushya cyangwa kuyabiza cyangwa se kuyateka kugira ngo baze kuyanywa ameze neza.

Igikapu muganga yitwaza kiba kirimo ubutabazi bw'ibanze igihe cyose agiye gutanga umusada aho umurwayi arwariye cyangwa se aho umuntu agiriye ikibazo gitunguranye.

Umukobwa wazamuye amaboko hejuru yayafatanyije, yambaye isengeri y'umweru, yambaye na kora y'umukara ndetse ubona ko ari mu myitozo ngororamubiri. Ubona ko ari ibintu byiza cyane kuko iyo ukoze imyitozo ngororamubiri bifasha umubiri wawe kumera neza.

Igikoresho cyifashishwa no kwa muganga, igihe bari gupfuka umurwayi cyangwa se bagiye kumuhambira, kizwi nka bande cyangwa se sinzi uko mwe mukita.

Mu by'ukuri ubuzima bukeneye kwitabwaho ndetse bugahagurukirwa gusa tugomba kwirinda ibintu byo kwitera ibishingi ndetse no kunywa ibinini twidoroga.

Amacupa atatu manini yanditseho ijambo ry'icyongereza, rigaragaza ko apfunyitsemo imiti igabanya uburibwe, by'umwihariko ikaba ikunzwe gukoresha abakinnyi igihe bakina umupira wasanga ariyo twita pomade.

Imiti itandukanye yifashishwa mu kugabanya ububabare cyangwa uburibwe ndetse ikavura n'amavunane iyi n'imiti igaragara ikunze gukoreshwa mu gihe abakinnyi bari gukina umupira cyangwa basoje kuwukina.

Umukobwa ukiri mutoya ari kunywa amazi ndetse ayo mazi akaba ari mu gacupa keza cyane k'umweru gashushanyijeho uturongo tugiye dutambitse.

Ni byiza ko dukoresha imiti itandukanye igihe cyose turi gukora siporo, aho dushobora kurya cyangwa se tukanywa ibinini bidutera imbaraga.

Redi korosi (red-cross) cyangwa se kuruwaruje (croix rouge)... niumuryango utabara imbabare ukaba uzwiho gutanga ubuvuzi bw'ibanze cyangwa se ubufasha bw'ibanze ku muntu wagize ikibazo dukunze kubabona abakozi babo ahantu hahuriye imbaga nyamwinshi.

Abantu b'abagabo bisa nkaho ari abaganga bari kwita ku muntu w'umurwayi ariko si umurwayi usanzwe ahubwo ni uwari uri mu marushanwa none agize ikibazo.

Ubuzima bwa muntu bukeneye kwitabwaho, hakorwa siporo ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye by'imyitozo ngororamubiri kugira ngo umuntu abashe gufasha impyiko, ibihaha, umutima ndetse n'ibindi bice by'umubiri gukora neza.

Umuntu w'umugabo ari kunywa amazi yicaye ku gatebe, imbere ye mu maguru hari igikapu, hirya ku ruhande hari umukobwa bigaragara ko yiyambariye agakabutura ndetse yazamuye amaboko, nawe afite igikapu giteretse hasi ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Urusobe rw'imiti ndetse n'udukoresho muganga yakitwaza agiye gutanga ubutabazi bw'ibanze, igihe cyose ari ahahurira abantu bakora siporo zigiye zitandukanye.

Burankari ni ingobyi y'abarwayi, ariko ikaba ari ingobyi yifashishwa igihe hari umurwayi urembye, ari kuvanwa mu bitaro bimwe yimurirwa mu bindi cyangwa avuye mu mbangukiragutabara azanwa mu bitaro.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byitwazwa na muganga, igihe cyose agiye gupfuka cyangwa se agiye gufasha umurwayi wahuye n'ikibazo cy'igisebe, cyangwa cy'imvune birimo bande ndetse n'ibindi bitandukanye.

Umuntu bigaragara ko ari igitsina gabo ndetse akaba ari umusore cyangwa umugabo, uri hagati y'imyaka makumyabiri n'itanu na mirongo itatu n'itanu ari gukora siporo zigiye zitandukanye, aho ari kugorora amaboko ye.

Umuntu ari kunywa amazi yambaye agapira gaciye amaboko ndetse ayo mazi ari kunywa ni meza cyane, ari mu gacupa k'ubururu bigaragara ko amaze gukora siporo.

Umusore uri kunywa amazi wiyambariye agapira k'amaboko magufi, akaba amaze gukora siporo muby'ukuri siporo, ni ingenzi cyane kuko ifasha umubiri w'umuntu.

Umukobwa ari gukora siporo zigiye zitandukanye yarambuye umukeka ndetse arunamye amaboko ye ari imbere ariko nubwo mvuze ngo ni umukobwa ahubwo ni umusore ufite imisatsi imeze nk'iy'abakobwa.

Ibiganza bifite uturindantoki duciyemo, bisa nk'aho byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri. Kugira ngo umuntu naramuka atembye agakora hasi, ye gukomereka.

Igihe umaze gukora siporo ni byiza kurya ibintu bikungahaye ku ntungamubiri zigiye zitandukanye, aho ushobora kurya amacunga, imineke, inanasi ndetse ukaba wanywa n'ibinini byo kwa muganga.

Pome, avoka, shufurere, inyanya, karoti ndetse n'izindi mbuto zigiye zitandukanye, ni bimwe mu bintu ushobora kurya igihe cyose umaze gukora imyitozo ngororamubiri cyangwa siporo.

Urusobe rw'imiti muganga akwiye kwitwaza ndetse no kwifashisha agiye gutanga ubuvuzi ku bakinnyi bari mu kibuga, bakina umupira.

Ubuvuzi bugiye butandukanye bukorerwa abantu bitewe n'indwara barwaye, aha bari kutwereka ubuvuzi bwifashisha kubaga buzwi nka fiziyoterapi, ubu ni ubuvuzi bugezweho cyane mu Rwanda

Agasaraba gatambitse kari mu mabara y'umweru ariko kari ku kazeru k'umutuku, kakaba kagaragaza ko ari umuryango utabara imbabare witwa kuruwa ruge, ukaba ufasha abantu bagiye batandukanye bagize ibibazo bitunguranye.

Umuntu wifashe ku kuboko guhinnye. Akaba yafatiyeho ikintu cy'igipfuko. Icyo gipfuko bigaragara ko gipfutse ahantu hakomeretse cyangwa se akaba ari nk'ikibarafu ari kwishyiraho yavunitse.

Uruhererekane rw'imiti cyangwa se ibikoresho byo gutanga ubuvuzi bw'ibanze ku muntu ugize ikibazo, harimo imakasi, ibinini ndetse harimo n'itoroshi cyangwa isitimu hakaba harimo n'inshinge ndetse harimo n'uturindantoki.

Umuganga ari kuvura umurwayi, uwo murwayi yavunitse, yavunikiye mu kibuga cy'umupira w'amaguru, iruhande rw'umurwayi hari umupira bakina w'amaguru.

Umuganga wambaye itaburiya ndetse ari kwambara agapfukamunwa neza, afite umugozi w'abaganga, yawiteye mu izosi ndetse akaba ari imbere y'ameza, ari kureba muri mudasobwa, afite n'agakayi kuruhande, gateretse ku meza.

Ubuvuzi bugezweho bufite ibikoresho bigiye bitandukanye ku buryo rimwe na rimwe hari ibyo ubona bikagucanga, nk'aha bari kutwereka ikintu kimeze nk'igikasike gifite akantu kazamuye hejuru gakoze nk'ikirori.

Umusore ari kunywa amazi, uyu musore amaze gukora siporo, yambaye agapira k'amaboko magufi ndetse bigaragara ko yumutse, ni byiza ko dukora siporo.

Umuntu uziritse amaguru, uryamishijwe ahantu ubona ko ari kugitanda gisa ubururu, hakaba hari n'abandi bantu barimo baramwitegereza, bigaragara ko yagize ikibazo gikomeye cyane cy'imvune.

Umukobwa wicaye yasobekeranyije amaguru ari gukora imyitozo ngororamubiri, yicaye ku gakeka ari kureba muri mudasobwa iteretse imbere ye ndetse hari utwuma tubiri bifashisha baterura turi imbere hasi ku makaro.

Urusobe rw'ibimera bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, aha ngaha twavugamo nk'indimu, imisave ndetse n'ibindi byinshi bikunze kuboneka mu bihuru no mu mashyamba.

Indobo nini cyane ipfunyitsemo umuti ukomoka ku bimera cyangwa se ku rundi rusobe rw'ibinyabuzima bigiye bitandukanye.

Tangawizi ni igihingwa gikunze kwifashishwa, aho bavuga ko kivura inkorora ndetse kikaba ari cyiza cyane, gikunzwe gushyirwa mu cyayi cyangwa kigasekurwa.

Igisubizo ku muryango ni umuti uri mu gacupa gapfundikijwe umupfundikizo w'umweru, ndetse hakaba harimo umuti wa gakondo uvura kurangiza vuba, gucika intege ndetse n'ibindi.

Icyapa gishushanyijeho ikimeze nk'umufuka ariko kuri uwo mufuka hakaba hashushanyijeho ibimera bigiye bitandukanye ndetse handitseho ibiro ijana, bigaragaza ko ari umuti wa gakondo upimwa muri ibyo biro.

Amacupa abiri maremare ari kumwe n'igikarito kinini nacyo kirekire, aya yose akaba arimo imiti ya gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zananiranye.

Ikimera gikura kirandaranda hasi, gifite amababi ameze nk'ay'amashu cyangwa se uruboga ndetse gifite uturabo tw'iroza tucyeraho, cyifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Ubuvuzi gakondo buragoye ndetse buraruhije, ndetse bigaragara ko hakenewe ubufasha n'inama kugira ngo ubuvuzi bube bwatera imbere, abantu bakora ubuvuzi, bajya mu bihuru no mu mashyamba gushaka imiti ikomoka ku bimera.

Ubuvuzi gakondo buragoye cyane, kuko ababukora baravunika bisaba kwiruka imisozi, ibihuru, ibishanga, ndetse no mu mashyamba bashakisha imiti bazakoresha mu buvuzi, bakayikusanyiriza hamwe bakayanika, bakayanura kugira ngo barebe ko batabara ubuzima bw'abantu.

Ibikarito bigera muri bitatu, byose bikaba byanditseho amagambo y'icyongereza, ndetse rikaba ripfunyitsemo imiti ya gakondo, cyangwa se imiti ya Kinyarwanda.

Igikarito kinini cyane gifungiyemo imiti ivura indwara zigiye zitandukanye by'umwihariko ikaba ari imiti ya gakondo ifungiye muri icyo gikarito.

Imiti igezweho yateguwe neza igashyirwa mu macupa ndetse ikabikwa neza ahantu habugenewe, ni imiti ya gakondo ariko igira uruhare mu buvuzi bw'indwara zikomeye.

Ubuvuzi bwa gakondo, ni ubuvuzi bwiza cyane kuko bufasha abantu benshi ndetse bitabaye ngombwa ko bifashisha ubundi buhanga.

Icupa riri mu bwoko bwa kanete cyangwa se ibi bamwe bakunze kwita icupa rya...

Ibimera byo mu Rwanda ndetse no hirya no hino muri afurika, bizwiho gutanga ubuvuzi, ndetse ubu buvuzi bukaba buzwi nk'uburyo bwa gakondo, nyamara burafasha cyane nubwo abantu badakunze kubwifashisha.

Ibimera ndetse n'ibihingwa bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo aha twavugamo nka tungurusumu, tangawizi ndetse n'ibindi bimera bigiye biboneka hirya no hino mu mashyamba no mu bihuru.

Ibinini bigaragara ko bikozwe mu bimera. Ibyo binini uburyo bitunganywa n'ubu : 'basoroma ibyatsi cyangwa se amababi y'ibimera, bakayafata bakayasya, bakayatunganya.

Ibimera bitandukanye biri ahantu mu ishyamba ndetse hakaba hari ibyumye ndetse n'ikindi gitoshye, menya ari amababi yahungutse.

Imiti gakondo ifasha mu buvuzi bugiye butandukanye ndetse ikaba yifashishwa cyane cyane n'abaganga babizobereye, mbese basanzwe bayizi.

Amacupa menshi maremare n'amagufi, ay'umuhondo ndetse n'ay'umweru n'andi mabara agiye atandukanye ateretse hamwe yose ndetse bisa nkaho arimo imiti ya gakondo.

Mu by'ukuri, hari uburyo bukomeye cyane bwo kwirinda indwara, aho dushobora gukoresha uburyo bwa gakondo, bitabaye ngombwa ko tujya mu ma operasiyo.

Ibimera bigiye bitandukanye birasoromwa bigakusanywa, bigashyirwa ku rusyo bigasebwa ndetse bigatunganywamo imiti igenda yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Amacupa afunze neza, arimo umuti ndetse abitswe mu gikoresho cyabugenewe, kimeze nka kaziye y'inzoga, ariko hakaba harimo imiti ya gakondo.

Icupa rinini ry'umweru ryanditseho amagambo y'Icyongereza agira ati: FOREVER ARCTIC SEA, bigaragara ko ari umuti wa gakondo.

Ibimera bigiye bitandukanye, byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo, mu by'ukuri umuntu wese ashobora kubyifashisha akaba yayikora, gusa si buri wese ufite uburenganzira n'ibyangombwa.

Icupa ryanditseho amagambo, amagambo ni ay'icyongereza, ubona ko ari icupa ririmo umuti ukomoka ku buki cg se ukozwe mu buki, ukaba ari umuti uvura indwara zigiye zitandukanye.

Bambuba ni ikimera kizwiho gutanga umuti ndetse ushobora kukicyitunganyiriza mu buryo bworoheje aho uyifata ukayitumbika mu mazi nyuma y'iminota cumi n'itanu ukaba wayinywa bityo ikakugabanyiriza umuriro.

Umugabo bigaragara ko akuze, ari ahantu mu bihuru ndetse ibihuru ubona ko rwose ari ibihuru bifatanye, ndetse akaba ari gusoroma ibintu by'ibyatsi, agiye kubikoresha mu buvuzi bwe bwa gakondo.

Abantu b'abagabo bose bambaye udupira tw'icyatsi kibisi ariko hakaba hari n'abandi babiri batatwambaye umwe wiyambariye igishati kirahongaho ndetse n'undi wambaye agakote keza bose bari ahantu bisa nkaho ari k'umusozi

Igikakarubamba ni ikintu gikomeye cyane cy'ikimera cyangwa se cy'igihingwa cyifashishwa mu buvuzi bwa gakondo kuko kivura indwara zitandukanye ndetse gitunganywa mu buryo butandukanye.

icupa rirerire rizamuye ripfundikiye neza n'umupfundikizo uri mu mabara y'umukara n'umweru rikaba ripfunyitsemo umuti wa gakondo uvura indwara zishingiye ku buzima bugiye butandukanye

Urusobe rw'ibimera ndetse n'ibindi binyabuzima, bikunze kuboneka mu mashyamba by'umwihariko ibimera bikunze kugira uruhare mu buvuzi bwa gakondo; ndetse bikaba bikeneye gusigasirwa ndetse no kwitabwaho byihariye.

Umugabo ari gutema igiti iyo ni ifoto batwereka, haruguru ye hari iy'indi foto y'ikintu cy'ikimera gisa nk'aho cyumye, hirya baratwereka ifoto y'ishyamba hasi bakatwereka iy'ibihuru.

Igisubizo kuri Amibe ni magambo yanditse hejuru y'icupa ryanditseho reishi, iri cupa rikaba ripfundikijwe umupfundikizo w'umweru ndetse hasi hari andi magambo agira ati reishi niyo yonyine ishobora guhangana na Amibe ku kigero cyo hejuru.

Amacuba ndetse amwe ameze nka kanete akaba arimo imiti igiye itandukanye ariko yo mu buryo bw'ubuvuzi bwa gakondo aho iyi miti yatunganyijwe.

Amacupa menshi cyane y'umweru n'umukara ndetse akaba ari amacupa ashushanyijeho amagambo n'utuntu tumeze nk'utunyugunyugu turi kuguruka, yose arimo imiti ya gakondo abenshi twita iya kinyarwanda.

Ikimera kimeze nk'umubirizi, kiri ahantu mu gihuru ndetse kikaba gifite indabo zizamutse hejuru, zifite utubara twiza tw'umuhondo.

Ubuvuzi gakondo nyafurika, ni umunsi wahariwe kwizihiza ubuvuzi gakondo nyafurika, wabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri, ukaba ari umunsi wari mwiza cyane witabiriwe n'abaganga ba gakondo batandukanye.

Imiti irunze mu kimeze nka etageri ndetse hakaba hari n'iri hejuru kuri etageri ndetse yino hari umukobwa wegamyeho wambaye ibintu by'umweru ndetse bigaragara ko ari gucuruza iyo miti ya gakondo.

Ibibabi bigiye bitandukanye bikaba ari ibibabi by'igiti gishobora gukura kikera ibintu by'imbuto, izo mbuto zikifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Dore zimwe mu mbuto ushobora kurya, maze ukagira ubuzima bwiza buzira umuze, buzira indwara ndetse ugatekereza neza, harimo indimu, amacunga, pome ndetse n'imyembe.

Ibikarito bifungiyemo imiti ivura indwara zigiye zitandukanye ndetse izi miti zikaba zikunze kuba ari iza gakondo.

Amacupa abiri aateretse, bigaragara ko harimo umuti usa n'umuhondo. Hirya kuruhande hari ikimera bigaragara ko gifite amababi atoshye y'icyatsi kibisi hari ikintu kimeze nk'isekuru ngari irimo agahini bigaragara ko hari n'ikimera cyaturutse kuri icyo cyatsi.

ikimera cy'umuravumba n'ikimera kizwiho kuvura, kikavura indwara nyinshi cyane zitandukanye kandi gitunganywa mu buryo butandukanye, hari ubwo wagishyira mu mazi ukagitumbi ukayanywa, hari ubwo wakivuguta ukacyisiga, hari ubwo wacyumisha ukamwaha ifu yacyo urumva ko kiravura cyane.

Akabido karimo umuti, uwo muti ni uwa gakondo, akakabido gasa umuhondo, gapfundikijwe neza cyane n'umupfundikizo w'umutuku.

Ifoto iriho ibimera bigiye bitandukanye, hari ibifite imbuto, ibifite uturabo, ndetse hari n'ibifite amababi gusa, ibyo byose byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Ibiti birebire cyane bifite amabara meza cyane atoshye, bikaba biri ahantu mu bihuru ndetse ubona ko ari ahantu hadatuwe, bikaba byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo.

Icuba rinini rirerire ribitswemo umuti wa gakondo, rikaba rishushanyijeho ikimera cy'igikakarubamba, ndetse kikaba gikunze kwifashishwa mu buvuzi bwa gakondo bugiye butandukanye.

Ubuvuzi bwa gakondo ni ubuvuzi buruhije ndetse bugoye kubabukora, kuko bibasaba kujya mu bihuru mu mashyamba, ndetse hirya no hino mu misozi gushaka iyi miti.

Ubuvuzi gakondo ni ubuvuzi bwiza cyane, ndetse ni ubuvuzi bumaze gutera imbere ku buryo muri iki gihe usanga hari abantu barwara bakajya kwivuza ku bavuzi ba gakondo.

Ikimera kiri kugaragara cyifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, kikaba gifite amababi meza cyane yigoronzoye, ndetse ki kaba gikura cyizamuka hejuru mu kirere, kikaba gifite imirasire y'izuba iri gukirasaho.

Amacupa agera muri atandatu atondetse neza ku murongo. Hashushanyijeho ikintu cy'ikimera kimeze nk'igikakarubamba bigaragara ko umutu urimo ari cyo ukomokaho kandi ni umuti wa gakondo.

Ububiko bunini cyane bw'imiti, bubitswemo imiti y'amoko atandukanye, harimo amacupa y'umweru, ay'umukara, umutuku ndetse n'ayandi, yose abitswe muri etajeri, akaba abitsemo imiti ya gakondo.

Icupa ryanditseho amagambo y'icyongereza ariko hashushanyijeho akantu k'agasimba, iryo cupa ni umweru ibyo bishushanyije biri ku gipapuro kizengurutse iryo cupa.

Icupa rinini rimeze neza ariko hejuru ripfunduye, hakaba hashushanyije ikintu cy'ikimera cyitwa igikakarubamba imbere yaryo; ubwo bivuga ko hari umuti ugikorwamo wa kinyarwanda.

Umusave ni ikimera gikunze kuboneka mu mashyamba ndetse no mu bihuru, aho usanga abanyarwanda benshi by'umwihariko abatuye mu cyaro bakizi. Iki kimera gikunze kwifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Imiti myinshi cyane ifungiye mu kintu kimeze nk'ikaziye ndetse harimo n'ibirahure biteretsemo, iyindi miti iri mu macupa cyangwa se wasanga ari n'inzoga.

Amacupa maremare manini ashushanyijeho ibihingwa bya by'igikakarubamba akaba ari imiti ya gakondo irimo.

Aha bari kutwereka ikintu kimeze nk'igitebo kinini cyane, kirimo ibimera bigiye bitandukanye ndetse n'ibiti, hakabaho n'amaboko y'umuntu agifasheho. Bigaragara ko ari imiti ya gakondo irimo gutegurwa.

Amacupa agera muri ane maremare minini ndetse ari mu bwoko butari parasitike, ari kumwe n'ayandi abiri matoya ndetse ayo yo bikaba bimeze nk'aho ari aya parasitike, aya yose arimo imiti ya gakondo.

Umuravumba ni ikimera kifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, kikaba kizwiho kuvura indwara zitandukanye nk'inzoka zo mu nda, inkorora ndetse n'izindi nyinshi.

Ibimera bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, ubu buvuzi bumaze gutera imbere ku buryo abantu benshi cyane basigaye babukoresha.

Umuti uri mu gacupa gapfundikiye neza, ubona ko ari agacupa kanditseho ijambo ry'icyongereza, bigaragaza ko harimo amavuta y'uruhu, gusa igitangaje ayo mavuta y'uruhu, ni amavuta yatunganijwe mu buryo gakondo.

Amajerekani ari mu gikarito ashushanyijeho igikakarubamba akaba bigaragaza ko hari imiti ya gakondo yakomotse kuri icyo kimera iri muri ayo majerekani.

Igishushanyo cy'ikintu cy'igicupa gicuritse bigaragara ko kirimo umuti ukomoka ku igikakarubamba hari ikiganza cy'umuntu ufashe kuri icyo gicupa kiri kutwereka amagambo y'icyongereza yanditse kuri icyo gicupa.

Amacupa atatu, rimwe riteretse ku kabaho risa nkaho risumba ayandi kubera riri ku kabaho ko hejuru, hakurikiyeho irindi riri ku kabaho ko hagati n'irindi riteretse inyuma ku kabaho kari hasi.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru akaba yipfutse n'akantu mu mutwe k'abaganga basanzwe imbere ye ku meza hari imiti iri mu ducupa tw'umukara ndetse inyuma yatwo hari ibikarito gusa igitangaje ibyo byose ni imiti ya gakondo.

Amacupa abiri yose ari mu ibara ry'umuhondo ashushanyijeho igikakarubamba, imbere yayo hari ibintu bisatuye bimeze nk'imbuto.

Umuti uri mu gacupa gashushanyijeho ikimera cyitwa ikigakarubamba, aka gacupa kakaba gapfundikiye neza bigaragara ko kabitse umuti ukorwa muri icyo gikakarubamba.

Umugabo wambaye umupira w'icyatsi kibisi, akaba afite icyatsi mu ntoki, icyo cyatsi ubona ko ari umuhati wakuze kandi weze, akaba agira ngo awujyane ajye kuwutunganya azakuremo umuti wa gakondo.

Umusave ni kimwe mu bimera bikunze kwifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, ndetse iki kimera gikunze kuboneka ahantu henshi mu Rwanda hirya no hino mu mashyamba no mu bihuru.

Ibikarito bitatu, kimwe kikaba kitagaragara neza, ibindi bitatu bikaba byegeranye, ndetse byanditseho amagambo, aya magambo agaragaza ubwoko bw'imiti irimo.

Imiti ya gakondo ipfunyitse mu macupa ndetse, hejuru hakaba handitseho amagambo y'icyongereza agaragaza ko ari imiti yongera ubudahangarwa bw'umubiri.

Igikarito gishushanyijeho ikintu kimeze nk'igikoni ndetse ubona ko ari ikimera, hakaba handitseho n'amagambo y'Icyongereza agaragaza ibintu biri muri icyo gikarito, ni imiti ya gakondo irimo.

Ibimera BIgiye bitandukanye biboneka mu mashyamba, mu bihuru ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo mu rwego rwo gukomeza gutanga serivisi zinoze z'ubuvuzi bugiye butandukanye.

Amacupa abiri y'umuhondo ndetse apfundikijwe imipfundikizo y'umukara, iruhande rwayo hari ibikarito bihateretse, byose byanditseho fa cumi na gatanu ndetse bikaba bisigura ko hapfunyikemo imiti ya gakondo.

Ibikombe bibiri binini cyangwa se ibyo twakwita nk'ibirahuri, birimo ibibabi by'ibimera bitandukanye, gusa kimwe ndabona ari umuravumba, ikindi kirimo bambuwa, harimo n'amazi babitumbitse.

Ubuvuzi bumaze gutera imbere by'umwihariko, hakaba hari ubuvuzi bwa gakondo bwifashishwa n'abaganga n'ubundi ba gakondo.

Umuti uri mu icupa ry'umweru ripfundikiye neza rishushanyijeho agasimba, ndetsetse munsi y'agasimba handitseho amagambo y'umukara atagaragara neza ngo mbe nayasoma.

Ibimera bigiye bitandukanye, biboneka mu mashyamba, mu bihuru ndetse no ku dusozi, ni byo byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo, ndetse iyo miti ikaba ivura indwara zitandukanye.

Igikarito kiriho amagambo y'icyongereza handitseho Alliance bigaragaza ko ari ikigo gitanga ubuvuzi bwa gakondo, kuko bari kutwereka ibintu bigiye bitandukanye byanditse kuri icyo gikarito by'imiti.

Imiti gakondo ni imiti myiza cyane, ndetse yifashishwa mu kuvura indwara zgiye zitandukanye, by'umwihariko nk'izananiranye ndetse na za diyabete, n'izindi ndwara z'ibyorezo.

Amajerekani abiri y'umuhondo ashushanyijeho igikakarubamba ndetse bigaragaza ko umuti urimo ukomoka ku gikakarubamba, iruhande rwacyo hari igikarito cyanditseho F cumi na gatanu, inyuma hari ikindi, hirya hari ikindi.

Ubuvuzi gakondo si ngombwa ngo bukorwe n'umuganga wabihariwe cyangwa wabigenewe, nawe ushobora kwifashisha imbuto ukikorera ubuvuzi bw'ibanze, ushobora gufata indimu ukayikamura, ugafata amazi yayo ukayavanga n'andi y'ibibabi by'ibimera ukayanywa.